Abantu ubona ko bafite icyo bashinzwe mu nzego z'ubuvuzi, bakaba bafatiye ifoto hamwe mu nyubako, aho bari bamaze gukora inama yabahuje.

Ubukangurambaga bugiye butandukanye bukomeje gukorwa kugira ngo igihe cyose umurwayi arwaye ajye yihutira kujya kwa muganga, kuko barasanasana iminsi ikicuma.

Urukingo rwa Hepatite. Ni hkuri urukingo rwa Hepatite rwarabonetse. Ni byiza ko turugana tukarufata.

Umugore ari kuvoma amazi arikuyavomera mu ndobo inyuma ye hari abandi bagore babiri bari gupomba amazi kuko bari kuvoma kuri ya robine ikura amazi mu kuzimu.

Abaganga benshi cyane batandukanye bambaye amataburiya y'akazi n'amabaji cyangwa se amakarita y'akazi mu izosi, bose bari gukoma amashyi. Imbere yabo hari umuzungu wambaye ikote ry'umukara, ari kubaha ikiganiro.

Amajerekani menshi ateretse ku mugezi, imwe iri kujyamo amazi, hari abantu basa nk'abarangaye, wagira ngo hari icyo barimo baritegereza.

Ihuriro ry'abaganga b'inzobere ndetse n'abahanga bo mu Rwanda. Bakaba bahuriye hamwe ndetse ubona ko bagize amahugurwa meza. Nyuma y'amahugurwa bafashe ifoto, gusa harimo abazi kwifotoza koko.

Umubyeyi ateruye umwana yambaye igitenge umwana yambaye akagofero k'abana k'umweru, umubyeyi ari kuvoma amazi meza akaba ari kuyavomera mu ndobo y'umukara, inyuma ye hari kugaragara ibiti.

Muganga ari kwita ku mwana mutoya, uwo mwana ateruwe na nyina, nyina yambaye ibitambaro ndetse biri mu gitenge gisa n'ishati yambaye, ubona yuko muganga na we yambaye itaburiya y'umweru.

Ababyeyi benshi ubona ko bazanye n'abana babo bisa nkaho baje kubakingiza ndetse buri wese akaba afite umwana we mu ntoki, akaba ateze n'igitambaro, yambaye n'igitenge.

Ifoto y'umuntu w'umugore iri mu ruziga rw'umweru, ndetse hakaba hari amagambo yanditse ku ruhande y'Icyongereza avuga ngo "tugomba gukora uko dushoboye, ndetse mu buryo bwose tukagira uruhare mu kwita ku buzima bwacu".

Abaganga bari imbere y'inyubako, bose bambaye amataburiya y'umweru ndetse urabona y'uko bari gukora isuku, ni abaganga bashinzwe kuvura abarwayi.

Umubyeyi wambaye igitenge, cyangwa se wambaye ishati ikoze mu gitenge cyangwa idozwe mu gitenge, ateruye akana, ako kana kambaye imyenda y'umweru, ndetse kambaye n'ingofero y'abana, muganga cyangwa se umujyanama w'ubuzima, ari kugaha umuti mu kantu k'agakombe gatoya.

Igishushanyo kinini, kiri mu mabara y'umukara. Kikaba gikozwe mu buryo gishushanyije nk'urukiramende rutangana. Aho hari impande ebyiri zingana n'izindi mpande ebyiri zingana. Hariho agashushanyo k'izuba, kari mu ibara ry'umuhondo.

Abantu ubona ko bari mu nama, aba bantu bisa nkaho bakora umwuga umwe cyangwa se umurimo umwe, ni abajyanama b'ubuzima cyangwa se mo kimwe ni abaganga.

Umuntu w'umuganga w'umusore wambaye neza cyane, ufite inyogosho nk'iy'abasitari, akaba yambaye itaburiya y'umweru, ari gupima umusaza, uwo musaza akaba ari shehe kuko yambaye ingofero y'Abayisilamu.

Abaganga babiri bari kuvura indwara z'amenyo ndetse bakanazisuzuma begereye abaturage aho batuye maze bashinga itente ahantu mu mudugudu none abaturage baje kwisuzumisha ari benshi.

Umwana mutoya ari imbere y'inyubako, iyo nyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse aho uwo mwana ahagaze hari andi matafari ya rukarakara ari hasi, bisa nkaho yasenyutse ku gipangu, akaba uwo mwana ari gukaraba kuri kandagira ukarabe avuye mu bwiherero.

Mu cyaro ni ahantu hakunze kugaragara umwanda, gusa Leta y'u rwanda yakoze ubukangurambaga ndetse ishyiraho abajyanama b'ubuzima bagenda bagira inama abaturage, ku buryo nk'ubu usanga boza amasahani neza, barangiza bakayubika ku gatara kugira ngo yumuke.

Abaganga ubona ko bakora ku Kigo Nderabuzima runaka cyangwa ku bitaro runaka. Bose bafatiye ifoto hamwe, aho bifotoreje ku muntu w'umuzungukazi ndetse ubona ko yari yaje kubahugura.

Hirya no hino mu Rwanda, uzahasanga amavomero rusange ndetse haba hari umuntu kuri buri vomero ufasha abaturage kuvoma neza batabyigana, ku buryo bavoma ku murongo uko baje bakurikirana.

Mu Rwanda ni ahantu bita ku isuku cyane, ni kimwe mu bihugu bifite isuku, haba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu byaro, bityo niyo mpamvu bafite ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura, cyitwa WASAC.

Umubumbe w'Isi ushushanyijemo umugore uteruye akana, uri kugasimbiza agakinisha, ukaba uri mu mabara y'ubururu.

Umukobwa waciye bugufi, akaba ari kuvoma amavi, ari kuyavomera mu ijerekani y'umuhondo, hari umwana uhagaze wegamiye robine, akaba arikureba bisa nkaho hari ikintu arangamiye, hari n'undi ku ruhande.

Abantu babiri bari gukorana mu biganza, ni abagabo babiri b'ibikwerere, bambaye amakote meza cyane, umwe yambaye iry'umukara, undi yambaye iry'ibara ry'ivu, iruhande rwabo hari undi mugabo wambaye ikote, inyuma yabo hari umuzungu n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru.

Itsinda rigari, ndetse ubona ko ari abantu benshi cyane, bahuriye ahantu mu nyubako. Bakaba bari imbere yayo. Bamwe bicaye ku rubaraza, abandi bicaye ku gasima kari hakuno, ubona ko izuba ribamereye nabi. Bose bari bitabiriye amahugurwa, yigaga ku bibazo by'ubuzima butandukanye.

Muri iki kinyejana, cyangwa se mu binyacumi by'imyaka yagiye ishira, hagaragaraga icyuho, muri serivise zagendaga zihabwa abagore, ndetse n'abana bavuka. Ariko mu byukuri, ubu ngubu siko bimeze.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, ubona ko biga mu mashuri abanza, bakaba bari gukaraba amazi meza, umwe ari imbere undi ari inyuma gutyo gutyo, inyuma yabo hari imikindo iri guhinguka.

Umugabo ari imbere ubona ko afite indangururamajwi, akaba afite n'agasuti kari imbere ye, ndetse bakaba bari mu nama yiga ku bibazo bitandukanye ndetse n'indwara zifata abana n'ubuzima bwabo.

Ababyeyi baricaye, bicaye ahantu muri sare, hari umujyanama w'ubuzima urimo abagira inama ku bintu bigiye bitandukanye byo kwita ku muryango.

Abana babiri baricaye bisa nkaho bari mu ishuri, umwe wicaye imbere yazamuye urutoki hejuru bisa nkaho agiye gusubiza ikibazo yabajijwe na mwarimu, uyu mwana ni umuhanga nkange.

Umwana uri gukaraba ku mugezi, akaba ari gukaraba amazi meza ndetse ubona ko ari umunyeshuri kuko yambaye imyenda isa nkaho ari impuzankano. Hirya ye hari ubwiherero bugera muri butatu. Biragaragara ko arimo avuye.

Abantu baricaye bari mu nama, harimo abagore babiri bicaye hagati n'umugabo umwe umwe kuri buri ruhande urw'ibumoso n'urw'iburyo, hanyuma imbere ku meza hateretse uducupa tw'amazi, umugore umwe muri abo afite indangururamajwi ubona ko ari kuvuga ijambo.

Umuganga ari gutera urushinge umuntu w'umumama, gusa abagore bakunze gutinya urushinge, niyo mpamvu uyu mugore yashinyirije ndetse akaba yashinjirije, yambaye n'agapfukamunwa k'umukara.

Inyubako nziza cyane y'umuzenguruko ifite amasikariye azamuka ayijyaho, ubona ko hari ibyuma bigiye bitambikanze, hirya inyuma yayo hari inyubako z'abaturage basanzwe gusa zirashaje.

Abana ubona ko barimo gukaraba, abandi bari kuhagirwa, abandi ubona ko bategereje kuhagirwa. Bikaba ari ibintu byiza cyane kugirira isuku abana bacu kuko bituma bagira ubuzima bwiza.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure Kanseri y'Inkondo y'Umura, ni amagambo yanditse ku kipanderori kinini cyane gifitwe n'urubyiruko, urwo rubyiruko rukaba rwari ruri mu iyamamaza cyangwa se mu bukangurambaga bwo kurwanya kanseri zigiye zitandukanye.

Ababyeyi bafite abana bashishikarizwa kubazana ku bitaro kugira ngo bahabwe inkingo ndetse n'ibindi byabagenewe nk'imishongi cyangwa se udutonyanga nk'uko njya numva babivuga, niyo mpamvu kwa muganga hari ababyeyi benshi cyane batonze umurongo abandi bicaye, bafite n'abana babo babazanye kubakingira.

Ibiganza by'umuntu biteze ubona ko biri kugwamo amazi, ari gukaraba, hirya gato hari isabune irambitse ahantu, ni byiza gukaraba amazi meza n'isabune kuko birinda indwara nyinshi zitandukanye zikomoka ku mwanda.

Umugabo bimeze nk'aho ari umujyanama w'ubuzima, yambaye itaburiya ifite amabara asa ubururu, ni ibara rimwe, akaba afite igipapuro gishushanyijeho abana babiri, agahungu n'agakobwa, iruhande rwe hari umubyeyi ari kwigisha.

Umuntu w'umubyeyi ubona ko abyibushye rwose, yambaye ishati y'umweru, amarinete yayashyize muri iyo shati imbere mu gatuza ndetse akaba ari guterwa urushinge na muganga.

Si byiza guhohotera abana tubakoresha imirimo ivunanye irimo nko kubakorera imitwaro badashoboye, muby'ukuri Umuryango w'Abibumbye udushishikariza kwirinda ihohoterwa nk'iryo kuko ridindiza umwana mu mikurire ye yaba iy'ubwonko ndetse n'iy'umubiri.

Umwana mutoya cyane ari gukaraba, ari gukaraba amazi meza, ayo mazi akaba ari guturuka ahantu muri robine, gusa uwo mwana bisa nkaho hari icyo arangamiye.

Abana bari kuvoma ahantu mu mugezi cyangwa mu kiyaga ubona ko ari ibintu biteye isoni cyane, kuko aya mazi bagiye kuyajyana bayakoreshe. Muby'ukuri ko mu Rwanda hari amavomero rusange, kubera iki baje kuvoma aha ngaha?

Umwana mutoya ari kuvoma amazi ariko azi ubwenge cyane nkanjye, kuko mbere yo kuvoma amazi ari koza indobo akoresheje ayo mazi meza, ni byiza ko igihe tugiye kuvoma tubanza koza ibivomesho.

Abaganga babiri, umwe yegereye umurwayi, ari kumwitaho, ni umusaza wasamye, uri kureba hejuru, bisa nkaho bari kumuvura amenyo cyangwa se indwara zo mu kanwa, hirya hari abandi baturage batonze umurongo bategereje kugerwaho, ubona ko abaganga begereye abaturage.

Umuntu bigaragara ko ari umwana ukiri mutoya. Akaba ari gukaraba amazi meza ndetse ari kuyakaraba kuri kandagira ukarabe. Bigaragara ko hirya ye hari igiti kinini cy'inganzamarumbo, imbere hakaba hari abandi bana babiri bari kugenda. Bose bambaye impuzankano.

Umuganga bigaragara ko ari umugore, ari gupima umutima w'umwana kugira ngo yumve uko utera, hanyuma abone aho ahera amufasha.

Umubyeyi ateruye umwana we ndetse muganga bisa nkaho ari kumuha umuti, bikaba ari ibintu byiza cyane ko igihe cyose abana bacu bafite ibibazo twabajyana kwa muganga bakabafasha.

Imbaga y'abantu bateraniye mu nyubako, ubona ko bari kwiga ku bibazo runaka byugarije ubuzima. Ni abantu baturutse hirya no hino ku Isi ndetse bakaba biganjemo abambaye imyenda y'umweru, umukara, ubururu, amakote ndetse n'amakaruvate.

Leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose itanga amazi ku baturage, kugira ngo abaturarwanda bose bagire ubuzima bwiza. Ni yo mpamvu uzasanga hirya no hino ku mavomero abaturage ari benshi, baje gushaka amazi.

Umwana w'umuhungu afite ibirahure bibiri, ibyo birahure birimo amazi, ayo mazi ayavomye ahantu mu gishanga, hakurya hari abandi bana barimo bamushungera, urabona ko ari ibintu bidashimishije, urebye ayo mazi ahantu ari wagira ngo ni aho ingurube zigaragura.

Abantu benshi bicaye mu nama ahantu mu nyubako ubona ko ari sale nini yakira abantu benshi, bakaba baje kwiga ku bibazo byinshi byugarije ubuzima aho bari kurebera hamwe uburyo bashobora gushora imari mu buzima.

Umukecuru ari ku mugezi, urabona ko yaje kuvoma amazi meza. Afite ijerekani y'umuhondo, yambaye igitenge ndetse n'agapira karimo uturongo dutambitse tw'umweru n'utw'umukara.

Abantu bicaye bari mu nyubako, ubona ko bari mu nama, iyo nama ikaba iri kwiga ku buzima bugiye butandukanye, ndetse bakaba barimo baraganira bungurana ibitekerezo, ubona ko hari umugabo wahagurutse wazamuye urutoki agiye kubaza ikibazo.

Mayange health center, ni ikigo nderabuzima cya Mayange kikaba kiboneka mu karere ka bugesera kikaba cyatanzwemo amahugurwa yatanzwe n'umuzungu waturutse mu bihugu by'i Burayi.

Abantu, b'abagabo, bicaye bageretse, akaguru ku kandi, bambaye amakote n'amakaruvate, bakaba bicaye imbere, ku ruvugiro, hakaba hari n'abagore babiri n'umugabo umwe, uri ku ruhande, wiyambariye ishati bisanzwe, bakaba bose bafite, ibintu by'impapuro mu ntoki, bari mu inama.

Abana baba bakwiye kwitabwaho mu buryo bugiye butandukanye, aho bahabwa ibiryo bagahabwa ibere ariko ni byiza ko tubazana no kwa muganga, bagahabwa imiti yabagenewe ndetse n'inkingo.

Umubyeyi ari gukorera indobo undi muntu bigaragara ko bisa nkaho ari umwana, amaze kuvoma amazi ahantu kuri robine ndetse hirya y'iyo robine hari inzu iri guhinguka ishakaje ibyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu ku nyubako, iyo nyubako ikaba yubatse mu buryo bw'akagari ndetse imbere y'aho hakaba hari itente ubona ko ryari ryicayemo abayobozi, bisa nk'aho inama bari barimo ishoje buri wese akaba ariko nigana yitahira iwe.

Abantu bari mu nama mpuzamahanga yita ku buzima ubona ko biganjemo abagabo bambaye amakote ndetse n'amakaruvate, hakaba harimo n'abagore b'abazungu bavanze n'abandi b'abirabura.

Abaganga benshi cyane. Barimo abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa. Bifotoranyije n'umuzungu wari uri kubahugura.

Umubyeyi uteruye umwana, ufite igipapuro mu ntoki, bisa nkaho ari ifishe y'ikingiza. Inyuma ye hari abandi babyeyi, buri mubyeyi afite umwana we, hari umuteruye, hari umuheste, bose baje gukingiza abana kwa muganga.

Ikirango cy'Umuryango w'Abibumbye Ushinzwe kwita ku Buzima, kikaba ari ikirango kiri mu ibara ry'ubururu ndetse ubona ko harimo agakoni kazengurutsweho n'inzoka bifite icyo bisobanuye.

Akana gatoya bari kugatera urushinge, gusa ntacyo bikabwiye wagira ngo nta nubwo kari kuribwa, ni byiza ko tuzana abana kubakingiza indwara zigiye zitandukanye, kuko ibyo bibafasha mu kwirinda indwara mu gihe kizaza.

Ni byiza birakwiye ko abantu twese twita ku buzima, tukabuhagurukira, tukirinda indwara nyinshi zitandukanye. Ni yo mpamvu hirya no hino ku isi, buri munsi cyangwa se buri mwaka, buri kwezi, usanga hateraniye inama ziga ku bibazo by'ubuzima.

Abana b'abanyeshuri ubona ko bari gukaraba intoki ndetse hari n'indobo z'imihondo ubona ko ari ibikoresho byo ku ishuri. Izo ndobo bari buzitwaremo amazi meza bamaze gukaraba, maze bajye koga n'umubiri.

Abantu b'abagore bari guhamiriza bakaba bari ahantu mu nyubako bigaragara ko bari mu nama cyangwa se mu mahugurwa cyangwa se mu bukangurambaga bwo kwita ku buzima bugiye butandukanye.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, ubona ko bakiri batoya kuko biga mu mashuri abanza. Bari ku mugezi bari gukaraba, bamwe imbere, abandi inyuma. Ni byiza ko dutoza abana batoya bakiga mu mashuri abanza gukaraba intoki zabo.

Abantu bari mu nama, harimo abazungu, abirabura, ariko harimo n'umuntu umeze nk'umuyapani cyangwa se umushinwa, imbere hari ameza, ayo meza akoze uruzeru, akaba ateretseho amazi.

Umuntu w'umwana wambaye impuzankano y'ishuri, ari gukaraba amazi meza ku kizwi nka kandagira ukarabe. Leta y'u Rwanda yashishikarije abaturage kugira kandagira ukarabe ndetse bakayishyira hafi y'ubwiherero kugira ngo igihe cyose umuntu avuye mu bwiherero yibuke gukaraba amazi meza n'isabune.

Abantu bambaye imyenda isa, harimo n'abambaye amajire, harimo na polisi y'igihugu cy'u Rwanda, bose bakaba baje mu bukangurambaga bwo gushishikariza abaturage kubaka akarima k'igikoni kugira ngo bajye barya imboga n'imbuto ziba zigahinzwemo.

Abantu benshi cyane biganjemo abagore bambaye imyenda y'umweru ndetse bakaba bashokoje imisatsi yabo, hakaba harimo n'abagabo bakeya, ubona ko bari mu nama yiga ku buzima bw'imyororokere ndetse n'ubundi buzima bugiye butandukanye.

Imbaga y'abaturage bahurijwe hamwe, aho bari bari kwigishwa ku bibazo by'ubuzima bigiye bitandukanye, harimo abagore bahetse umwana cyangwase abana, hari itente bari bicayemo, bose barahagurutse urabona ko inama irangiye bakaba bitahiye.

Abantu bicaye bari ahantu mu nyubako bari mu nama, bicaye bakoze uruzeru ubona ko no hagati yabo harimo imeza y'ikizeru, imbere ya buri muntu hateretse agasahani kariho icyo kunywa, ubona ko ari abayobozi bakomeye.

Umuntu w'umugabo ari inyuma ya robine ari gufungurira umwana amazi ndetse iyo robine ya yindi bavomaho, aho iyo bagiye kuyifungura bafata ikintu kiri hafi y'ahanyura amazi bakakizamura hejuru, uwo mwana ntago yahagera kuko ari harehare niyo mpamvu bamufunguriye.

Amacupa abiri maremare, manini ndetse n'irindi ri rimwe rigufi, ubona ko ari amacupa ari mu ibara ry'ubururu hasi hari akabara k'umukara, aya macupa arimo gaze yifashishwa mu kuzimya umuriro w'amashanyarazi.

Umuntu w'umukobwa aricaye arasutamye, yambaye ijipo y'umukara n'agapira ka move akaba ari kuvoma amazi ayavomera mu ijerekani y'umuhondo, bigaragara yuko ari kuvoma amazi meza, ndetse inyuma ye hanitse imyenda.

Umwana mutoya, ari gukina n'amazi, afite icupa ari kuvoma amazi muri robine yongera ayamena, ndetse akaba yitoheje, si byiza ko abana bakina n'amazi, dukwiye kubacunga kuko hari igihe bayanywa ugasanga barwaye indwara, zigiye zitandukanye.

Kanseri y'ibere ni kanseri ihangayikishije, iteye ubwoba, iri koreka imbaga ndetse ikaba ari ikibazo kimaze guhangayikisha Isi, reka duhaguruke twese, dufatanyirize hamwe n'abanyarwanda maze tuyirwane, ayo ni amagambo yanditse ku cyapa kiriho RBC.

Leta y'u Rwanda yita ku bana nkuko bazi neza ko abana aricyo gihugu cy'ejo hazaza. Niyo mpamvu bashyizeho gahunda yo kugaburira abana uhereye mu mashuri abanza ukageza mu mashuri yisumbuye. Abana barira ku ishuri bagafata ifunguro rifite indyo yuzuye.

Intebe zicarwaho mu buryo busa nkaho umuntu aba aryamye akararama. Akaba ari intebe ziri kwa muganga ahantu mu cyumba ubona ko bashyira umurwayi bagiye gusuzuma indwara runaka.

Ubuvuzi bwo mu Rwanda bumaze gutera imbere ku rwego rushimishije, ku buryo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi cyane uzasanga bigiye bicomekeranyije, byifashishwa mu gutanga ubutabazi bwose bushoboka ku murwayi urembye.

umuntu w'umubyeyi ari inyuma kuri robine, arimo arapomba amazi muri ya kano izana amazi ari uko babanje gupomba, hari umwana uri imbere aho amazi anyarira akaba ari kunyara mu ijerekani.

Ibiganza biteze ku mazi amazi ari guturuka mu ihombo, ihombo ubona ko rifite amazi meza nubwo ryo riri ahantu habi, uyu muntu akaba ari gukaraba cyangwa se agiye kunywa ayo mazi.

Umuntu w'umubyeyi yazanye umwana we kwa muganga, aramuteruye, ari kurebana na muganga. Muganga na we yafashe intoki z'umwana, akaba ari kumupima agira ngo arebe ikibazo afite.

Umuryango w'Abibumbye ushinzwe kwita ku bana, akaba ari umuryango uharanira ko abana bo ku Isi yose bagira ubuzima bwiza, haba abo mu Rwanda abatoya ndetse n'abenda gukura.

Abantu barimo n'uwambaye ingofero y'abayede cyangwa se cya kigofero abantu bambara kikabarinda kwangirika mu mutwe igihe bari mu mirimo y'ubwubatsi, akaba ari gufungura amazi kuri robine ndetse ubona ko hari robine nyinshi imbere n'inyuma, hirya no hino.

Ambirance ni imodoka izwi mu rurimi rw'Ikinyarwanda nk'ibangukiragutabara, ikaba yifashishwa igihe hari umurwayi cyangwa se umuntu ugize ikibazo gikomeye ku buryo atabasha guhita yigeza kwa muganga, ishobora no kwifashishwa mu muhanda habaye nk'impanuka.

Umwana yibereye kuri robine, ari kuvoma amazi mu gikombe, icyo gikombe ni igikombe cyitwa Nyamaha, kikaba ari igikombe cy'icyuma gipima icupa rimwe, agiye kunywa amazi ubwo y'icupa rimwe.

Abantu bifashe neza bari imbere y'utwana ubona ko bamaze kutwigisha ibintu bigiye bitandukanye bishingiye ku buzima, ndetse ukaba ubona ko ari ibintu byiza bishimishije.

Abana babiri bari ku mugezi bari gukaraba, bari gukina n'amazi, biyanduje ubona ko si byiza cyane ko abana bacu tubareka ngo bajye kwirirwa banywa amazi mabi, bayakinisha, bagira gute.

Abaganga barimo bafata amaraso y'abarwayi, aho bari kugira ngo bajye kuyasuzuma bamenye imikorere y'imibiri yabo, bamenye n'uburwayi barwaye.

Umuryango w'abibumbye wita ku bana ari wo witwa UNICEF, ugira ikirangantego gishushanyijemo umugore uri gusimbiza umwana.

Abana ubona ko bicaye hamwe, bari guhabwa intungamubiri zitandukanye zishingiye ku gikoma barimo bahabwa, ubona ko harimo n'abasirikari n'abayobozi batandukanye baje gufasha muri iki gikorwa. Mu by'ukuri bikaba ari ibintu byiza cyane ndetse bisa neza.

Ubuzima bukwiye kwitabwaho isi yose ikabuhagurukira, cyane ko muri iyi minsi tugenda tubona indwara zigiye zitandukanye zirimo n'ibyorezo bikunze kwibasira abantu.

Abantu bicaye mu buryo wicaye ku buryo buri wese arebana n'undi, bamwe imbere abandi inyuma, oya nako ni bamwe hakurya abandi hakuno, imbere ya buri wese hateretse agacupa k'amazi yo kunywa bari mu nama.

Abantu babiri bahagaze bakuru, harimo uwambaye ishati y'umweru n'undi wambaye ijire y'umukara bisa nkaho ari umujyanama w'ubuzima. Bari imbere y'undi mugabo wicaye, wambaye ingofero y'abayisilamu, ndetse uwambaye ijiri afite igitabo. Hirya hari abana bari gushungera.

Abantu babiri bicaye imbere ndetse hari ameza ateretseho amazi imbere ya buri muntu, umugore afite indangururamajwi iri imbere ye, ubona ko ari kuvuga ndetse umugabo we afite ikaramu ari kwandika, inyuma hari icyapa cyanditseho RBC.

Umurwayi wo mu mutwe afite ikimeze nk'umuneke gusa awutoraguye mu myanda kandi agiye kuwurya, yambaye ibyamvagara, afite ibisatsi byinshi ntakiyogoshesha, akeneye inama, kwitabwaho n'ubuvuzi.

Igishushanyo cy'umuntu kigaragaza umutwe. Ndetse hakaba hari kugaragaza n'utuntu turi muri uwo mutwe tumeze nk'ubwonko. Hakaba hariho utunyenyeri tugiye tuzengurutse ubwo bwonko. Mu by'ukuri bari kutwigisha kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abantu bifashe neza ubona ko barimo barifotoza bari ahantu mu nyubako ubona ko ari nko muri sale ndetse mu bigaragara bari bamaze gukora inama, iyo nama ikaba yigaga ku bibazo byubuzima bwo mu mutwe, harimo n'umuzungu wo muri Aziya.

Umuntu w'umugabo, yambaye umupira w'iroze, yambaye ipantaro yayizinze, ari kwerekana ukuguru, ukuguru yagukuye mu rukweto ahagarara hejuru y'urukweto. Afite akaguru kameze nk'aho kabyimbye, imbere ye hicaye ababyeyi cyangwa se abagore, ukaba ubona ko uyu mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, yicaye hasi, aziritse amapingu, inyuma ye hari abantu bamushungereye, hari n'umuntu umeze nk'umuganga, wamurambitseho ibintu, bimeze nk'ibipapuro, bisa nkaho agiye kumufasha.

Igishushanyo kiri mu mabara y'umukara, ubona ko ari utuntu tw'utudomo dutoya n'utunini tugiye dufatanye, ubona ko duhujwe, hakaba n'utundi turimo imbere tugiye dutandukanye, bari kutwigisha uburyo ubuzima bwo mu mutwe buba bumeze iyo bufite ikibazo.

Inyubako nziza cyane, ifite ibyapa bibiri byanditseho amagambo, ubona ko harimo n'icyanditse ngo ni ikaze ni karibu ndetse hakaba hariho n'amagambo agaragaza ko ari ibitaro by'akarere ni kamwe mu turere two mu Rwanda.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye kwitabwaho, niyo mpamvu rimwe na rimwe uzasanga habayeho umunsi umwe mu myaka myinshi igiye itandukanye kugira ngo ube warahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abantu bifashe neza, ubona yuko bameze nk'abari bari mu nama, bakaba bari gufata ifoto nyuma yo gukora inama. Harimo abagore benshi biganje, harimo n'abagabo, bose bakaba bafite aho bahuriye n'ibigendanye n'ubuzima, by'umwihariko bwo mu mutwe.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye guhagurukirwa bakitabwaho kurusha n'ubundi buzima bwose, kuko umutwe niwo ugena ibyo dukora byose binyuze mu gice cy'ubwonko, iyo bufite ikibazo rero usanga ari ibintu bikomeye.

Umuntu w'umubyeyi cyangwa se w'umugore wambaye agapira gatukura k'amaboko maremare, mo imbere hakaba harimo n'akandi gapira ubona ko ari umukara, akaba asa nk'uri kumwenyura n'ubwo amwenyura ntago ari uko yishimye, ahubwo afite ibibazo byo mu mutwe bigiye bitandukanye akeneye ubuvuzi ndetse n'inama.

Imbaga y'abantu bateranye, bose bafite amadarapo y'u Rwanda matoya, ubona ko bayazamuye hejuru ndetse abenshi bafite amadarapo arenze rimwe, ubona ko harimo abasaza, abakecuru, urubyiruko n'abana batoya.

Ababyeyi bari ahantu ku musozi, ubona ko buri wese afite ikibando cyangwa se inkoni gusa harimo n'umwe uhetse umwana uri kumwonsa afite n'umufuka, inyuma yabo hagaragara agasozi kariho ishyamba ritarakura neza, hari n'insina bakaba bafite ibibazo byo mu mutwe aba bose.

Inama yahuje abaturage bo mu kagari, bakaba bari barimo biga ku bibazo bigiye bitandukanye bikomeje kugariza ubwo.

Umugore umwe akaba ari umujyanama w'ubuzima, aricaye ari kugira inama abandi bagore babiri ndetse ari kubahugura ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu bahuriye mu nama bagiye batandukanye, abagabo, abagore, urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, bose bakaba bicaye bakurikiye bari kureba imbere, ubona ko abenshi bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru.

Buri wese aha ari hose afite uburenganzira ku buzima bwiza bwo mu mutwe, kwirinda ibibazo byo mu mutwe. Buri wese akwiye kubigiramo uruhare, ni uburenganzira ndetse ni n'inshingano ndetse ntidukwiye guheza n'umwe.

Umuntu bigaragara ko ari umugabo wambaye agapira k'umukara yegeranye n'uwambaye ishati ya buresiyeri hirya ye hari undi mugabo, hirya hari abandi b'igitsina gore n'undi mugabo ku ruhande, imbere yabo hateretse ameza, ayo meza ariho ibipapuro, ibipirizo, za metero n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umurwayi wo mu mutwe arimo arasuhuzanya n'uwundi mugabo muzima, akaba ari ukugira ngo uwo mugabo amufashe, amujyane kwa muganga.

Umuntu wambaye ishati nziza cyane ifite amabara y'umweru n'umukara, akaba ahagaze imbere y'inyubako, we ahagaze ahantu mu kajaride, inyuma ye hari akayira k'amapave ubona ko iyo nyubako ifite urubaraza ndetse hari imikindo ibiri, umwe iburyo, undi ibumoso bw'akabaraza.

Umuganga bigaragara ko avura indwara zo mu mutwe, yaje imbere y'abaturage, ari kubigisha uburyo bashobora kwirinda indwara zifata ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu bigaragara ko ari umubyeyi, wambaye ishanete mu ijosi, akaba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe bwe butameze neza, bigaragara ko akeneye ubuvuzi ndetse n'ubutabazi.

Umuntu w'umugabo ubona ko rwose afite ibibazo byo mu mutwe kuko yifata nk'abana ndetse afite umwanda ukabije sinzi uko nabasha kubisobanura, gusa ni byiza ko uyu muntu ahabwa ubuvuzi kuko nawe afite umubiri nk'uwacu.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe bigaragara ko ari umusazi, akaba afite ibyanwa bibi cyane byakuze byamwereyeho, ibitsi bizingazinze by'injwiwiri ubona yuko nta suku n'imwe aheruka, yambaye urupira nako urushati rwashaguritse.

Abantu ubona ko bicaye imbere y'inzu, iyo nzu ihomeshejwe umucanga ndetse ifite utudirishya tw'ibirahuri, inyuma yayo hari ubwiherero, hari n'udutsina turi guhinguka.

Umuntu w'umugore ari kureba mu gipimo cya termometer, aricyo cyifashishwa mu gupima ubushyuhe, akaba ateruye umwana ndetse hari umujyanama w'ubuzima, uri kumurebesha muri icyo gipimo, bigaragara ko amaze gupima uwo mwana.

Ibiganza bya muganga byambaye uturindantoki turi mu ibara ry'iroza ubona ko biri gukora ku kintu cy'ikibumbano kimeze nk'akanwa kariho amenyo, hakaba harimo iryinyo rimwe bakuyemo ubona ko hari igihanga kinini kimeze nk'urwobo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kuvura umurwayi w'umugore, uwo murwayi akaba arwaye amenyo. Ni byiza ko igihe cyose wumva iryinyo rikurya cyangwa se rikaba rifite ibindi bibazo, warizana kwa muganga wabugenewe.

Amenyo ni igice cy'umubiri gikomeye, kuko wabimenya neza uramutse ukutse rimwe. Si ugukanja ibiryo gusa ahubwo ni n'umurimbo. Kuko burya iyo umuntu adafite amenyo ntagaragara neza. Dukwiye kuyagirira isuku dukoresha umugozi.

Umwana wambaye imyenda y'umweru aryamishijwe ku kimeze nk'igitanda, arararamye ndetse hari utwuma tubiri turi kumukora mu kanwa, kamwe kameze nk'akayiko, bisa nkaho afite ibibazo by'amenyo.

Umwana mutoya ari kwiborosa akoresheje uburoso na korogate, aziritse agatambaro mu mutwe we, ako gatambaro ni keza cyane.

Umuntu ubona ko ari umukobwa kubera ko tutari kumubona neza, ariko afite imisatsi isutse, afite n'isura y'abakobwa. Ari guseka, ari kumwenyura, imbere ye hari ikiganza gifashe ikintu kimeze nk'iryinyo ry'irikorano, bisa nkaho bagiye kumusimburiza iryinyo rye.

Umuganga yicaye ku ntebe. Iyo ntebe ikaba ari intebe nziza cyane ifite ibara ry'icyatsi, ifite n'amapine, aho yifashishwa igihe bagiye kuyimura bagiye nko kuhakora isuku. Hirya hari ikimeze nk'igitanda na cyo gisa nk'iyo ntebe. Ni kwa muganga.

Akadodo kifashishwa mu koza amenyo, ni akadodo keza cyane ubona ko umuntu wese atarabasha kukamenya, gusa ni byiza ko ubukangurambaga bukorwa hirya no hino kugira ngo abantu bakayoboke, bajye bagakoresha.

Umwana mutoya ashobora kurwara amenyo, gusa ni byiza ko igihe cyose umwana wawe ubona ko afite ibibazo by'amenyo nk'igihe yagize umuriro ukabije, ukabona wenda afite iryinyo riri kumurya, ugomba kumwihutana kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe zigihe zitandukanye ubona ko ari aho abarwayi bicara ndetse bakaba bicaye mu buryo bwiza cyane butuma babasha gusuzumwa, hejuru hari agashushanyo ka muganga wicaye ku ntebe ari kureba muri mudasobwa.

Umuntu w'igitsina gore aricaye yicaye ku ntebe asa nk'uwegamye, yambaye agapira keza karimo uturongo tw'umweru n'utundi twenda kuba umuhondo, akaba ari kwireba, ari kureba amenyo ye amaze kuyasukura, hirya hari ahantu bakarabira hateretseho n'agakombe wagira ngo kari kari kujyamo amazi.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari gukaraba ndetse bakoza n'amenyo yabo bakoresheje uburoso n'imiti yabugenewe izwi nka korogate.

Abana b'abanyeshuri bakiri batoya, ubona ko biga mu mashuri abanza, nko mu wa mbere, mu wa kabiri cyangwa mu wa gatatu. Mu by'ukuri bose bari koza amenyo yabo, bakoresheje uburoso na korogate yabugenewe n'amazi meza. Ibi ni byiza cyane, birasa neza ndetse birakwiriye.

Umuntu w'umusore arimo kwireba mu ndorerwamo akaba afite akadodo k'umweru agafatishije amaboko ye yombi, akaba ari kugacisha mu menyo hagati y'iryinyo n'irindi, kugira ngo ibiryo byasigayemo igihe yaryaga bivemo. Ni byiza gukoresha ubu buryo dusukura amenyo.

Umusore ari kwireba mu ndorerwamo, akaba afite akadodo k'umweru cyangwa se akagozi, akaba ari guseka yishimye, ako kagozi akifashisha ari gusukura amenyo ye mu buryo bugezweho butuma nta mwanda n'umwe cyangwa na muke usigara mu menyo.

Dukwiye kugira isuku y'umubiri mu buryo bugiye butandukanye, mu by'ukuri twagakwiye koza amenyo yacu, dukoresheje umuti wabugenewe uzwi nka korogate, ndetse tukabitoza n'abana batoya, ni yo mpamvu hano hari abana bazamuye korogate hejuru mu kirere, bakaba ari abanyeshuri bigishijwe koza amenyo yabo.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, uri kugaragara umutwe gusa, afite akantu kameze nk'urudodo, ari kukitegereza agafashe mu ntoki, imbere ye hari umuntu w'umukobwa wicaye ameze nk'uryamye araramye, ari kureba muganga.

Ibyuma ubona ko ari ibyuma bidasanzwe, bifite amabara y'umukara, byigondoye bimeze nk'imihoro ya kera ndetse bikaba byifashishwa mu buvuzi bugezweho bw'amenyo.

Ibiganza bibiri, bya muganga, byambaye udupfukamunwa, bikaba, bifite, utuntu tubiri tw'utwuma, tumeze nk'utuyiko, twose tukaba tugiye gukora mu kanwa, k'umurwayi, uwo murwayi, akaba ari umwana, ufite ikibazo cy'amenyo.

Umugabo wambaye amarinete, akaba yitunze urutoki ku menyo, ndetse akaba ari kutwereka ko amenyo ye ari meza cyane, kuko yayagiriye isuku, akayoza akoresheje uburoso, ndetse n'umuti wabugenewe.

Muganga ari kuvura umurwayi w'amenyo. Uwo murwayi arararamye ndetse urabona ko bamushyize ikintu mu kanwa kimeze nk'akayiko. Muganga akaba yambaye ibintu bimeze nk'amarinete bimufasha kureba muri ako kayiko, hanyuma akamenya ikibazo cy'iryinyo ry'umurwayi.

Umukobwa mwiza ubona ko ari inzobe rwose, akaba ateze igitambaro cy'umweru mu mutwe ndetse akaba ari koza amenyo ye akoresheje uburoso bwiza bushyashya ndetse na korogate.

Umukobwa mwiza cyane, ubona ufite amaso y'umweru, amenyo meza cyane y'umweru, akaba yazamuye intoki ze, akaba ari kutwereka igice cy'umunwa, mbega ari kutwigisha koza amenyo yacu kugira ngo azase nk'aye.

Muganga arimo aravura umurwayi, uwo murwayi afite ikibazo cy'amenyo, urabona ko ari ibintu byiza cyane kuko uwo murwayi yaje yizeye ko ari bukire, hirya hari abandi baganga babiri bari kwandika mu makaye.

Umuntu bigaragara ko ari umusore, aryamishijwe ku gitanda arararamye, hari umuganga urimo aramwitaho kuko afite ikibazo cy'amenyo, bakaba bamwambitse ikintu kimeze nka ga mu kanwa ndetse hari ibyuma biri kumukora mu kanwa.

Koza amenyo ni byiza cyane tukayagirira isuku mu buryo bumwe cyangwa ubundi, niyo mpamvu dushobora gukoresha akadodo cyangwa se akagozi tugacisha hagati y'amenyo yacu nkuko umusore uri kubitwereka ari kubikora.

Abantu benshi bakunze kwiga ku buzima bugiye butandukanye, aho biga kuri bimwe mu bice bigize umubiri w'umuntu, ariko hari igice cy'ingenzi birengagiza, icyo gice ni amenyo, buriya umuntu udafite amenyo we abyumva neza, aravuga ati, iyo nza kuyagirira igisuko kera, ubu mba meze neza.

Abantu benshi bakunze gusukura amenyo yabo bakoresheje uburoso na korogate ndetse bigaragara yuko ari ibintu bizwi na buri wese, nyamara hari ubundi buryo tudakunze gukoresha ubanza bikeneye ubukangurambaga kugira ngo tuzabwumve neza. Ni buryo bwo gukoresha akagozi cyangwa akadodo.

Muganga ari kuvura umwana iryinyo, ndetse hari n'undi muganga umufashe, inyuma hari abandi ubona ko bari guhengereza. Ariko harimo umubyeyi uteruye akana, muri abo bari guhengereza.

Ubundi usibye rwangendanyi, abaganga barasana iminsi ikicuma, niyo mpamvu igihe cyose uzajya mu bitaro bikomeye byo mu Rwanda uzahabona ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kwita ku murwayi mu buryo bushoboka bwose.

Abantu benshi bigishwa isuku ku mubiri wabo, bakigishwa n'iy'amenyo, gusa hari uburyo bwo gukora isuku y'amenyo, burimo nko gukoresha uburoso n'umuti wabugenewe uzwi nka corogate, nyamara hari uburyo twirengagiza bwo gukoresha akadodo cyangwase akagozi kandi nabwo bufasha.

Umusaza n'umukecuru bishimye, babayeho mu buzima bwiza cyane bw'abasiribateri. Kuko nta mwana n'umwe bakigira, abana babo bose barashyingiwe, bubatse ingo zabo.

Umugore w'umuganga ufite umusatsi w'umukara mwiza cyane ubona ko arimo amwenyura, yambaye isaha ku kuboko, yambaye impuzankano y'abaganga, afite ikintu mu izosi cyifashishwa mu gupima umutima w'abarwayi, ari guha umukecuru ugeze mu zabukuru umuti, umukecuru afite ikirahure cy'amazi.

Umuganga wambaye umwenda w'umukara akaba yambaye n'undi w'umweru, ari gufasha umuntu w'umukecuru gukora utuntu tw'utwitozo ngororamubiri, yamuhaye ikintu kimeze nka bande gikweduka, ari kujya agikwedura yazamuye amaboko ye hejuru.

Umusaza ugeze mu zabukuru wambaye umupira w'ikivuzo w'amaboko, afashwe n'umuntu bigaragara ko ari umugabo we ukiri muto, akaba ari kumusindagiza kugira ngo amufashe gutembera gake gake.

Umusaza warambuye ukuboko yicaye mu ntebe yegamirwa ndetse hakaba hari umuganga bicaranye ariko uwo muganga ari kumuzirika ikintu ku kuboko.

Umuntu ukuze w'umusaza ari kwereka umukecuru akantu, aho bicaye imbere yabo hari ameza arambitseho ibintu bimeze nk'imiti bagiye kunywa. Burya abageze mu za bukuru usanga bakunze kuba bafite ibintu by'imiti bahora banywa.

Abantu bari gusoroma icyayi b'abakecuru, bakaba bishimye, bafite n'igitebo kinini bari gusoromeramo, ubona ko ari ibintu bishimishije kubona abakecuru na bo bashobora gukora imirimo nk'iyi ngiyi.

Abantu bicaye bazengurutse, ubona ko ari abaturage bicaye munsi y'igiti kimeze nka kimwe cyo mu runana cyitwa igiti cy'umunyinya, ndetse inyuma yabo hari inyubako ubona ko ari iy'umuturage wa rubanda rwa giseseka, kuko ihomesheje ibyondo.

Umusaza wifashe mu gahanga, ufite ubwanwa bw'imvi, akaba ari gusoma ibitabo, ubona ko hari ibyo yarangije biri hirya ariko hakaba hari n'amazi ateretse mu kirahure, ni byiza cyane ko abasaza bimakaza gusoma.

Umukecuru ukuze ugeze mu zabukuru, yambaye agapira karimo uturongo tw'umukara akaba afashe mu kiganza umuganga, uwo muganga afite umugozi bakoresha bapima umuvuduko w'amaraso.

Umusaza ugeze mu zabukuru, ubona ko yambaye agapira karimo uturongo tw'umweru, dutambitse. Ndetse akaba ari guseka yishimye, ari kureba muganga.

Ibicuruzwa bitandukanye, ushobora gusanga hirya no hino ku masoko yo mu Rwanda. birimo ibiribwa, byiganjemo amandazi ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye nk'amagi, n'ibindi n'ibindi.

Abantu bakuze bakwiye kwitabwaho bakagaburirwa ibiryo bifite intungamubiri zose zishoboka kuko ubuzima bwabo buba buri mu manegeka, bitewe n'uko abasirikari b'imibiri yabo ntago baba bakibasha gukora neza, bagomba kurya imboga, imbuto ndetse n'ibindi.

Umusaza ubona ko ageze mu zabukuru, ufite uruhara ndetse n'amatwi manini, akaba afite ubwanwa, yarambuye ukuboko ku meza, akaba afite akantu kamuziritseho, ubona ko gafite umugozi. Muganga arimo ararebera muri ako kantu, ari kumusuzuma.

Umusaza yarambuye ukuboko yambaye agapira k'ubururu ari guterura k'ariteri gatoya, hari umuganga ufashe ku kuboko kwe no mu mugongo, ubona ko ari kumufasha gukora utwitozo ngororamubiri.

Umusaza ugeze mu za bukuru, ari kumwe n'umuganga, umuganga afite igitabo ari gusomera umusaza amabwiriza, ndetse ibi bigaragaza ko abakuze bakwiye kwitabwaho ndetse bagahabwa ubuvuzi.

Intoki z'umuntu ukuze w'umukecuru, ubona yuko ari kwikinira umukino w'ikibuguzo abenshi bazi nka damu, gusa bikaba ari ibintu byiza kuko uyu mukino utuma abantu batekereza vuba kandi byihuse.

Umuntu w'umuganga ari gusuka umutobe mwiza cyane ufite ibara ry'umuhondo bisa nkaho wakozwe mu mbuto cyangwa se nk'inanasi, ubona yuko agiye kubiha umusaza wicaye na we uri kwitamirira utwaka atuje neza cyane.

Umuntu w'umusaza ufite imvi mu bwanwa akaba ari gusukirwa ibinini agiye kunywa, akaba afite n'ikirahure cy'amazi agiye kunywesha ibyo binini.

Umuntu w'umugore yafashe umukecuru amuturutse inyuma, bakaba bahurije ibiganza ku mutima cyangwa se mu gatuza k'umukecuru, ubona ko bishimye bari guseka, ni byiza cyane ko twita ku bakuze, uwo mukecuru yicaye mu ntebe, umugore we ari inyuma y'intebe.

Umuntu w'umugabo ubona ko asa nkaho akuze, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, aho ari kumwe na muganga afite umugozi ari kugenda akurura ukweduka, hanyuma muganga nawe akaba yawufashe, ari kumufasha.

Abantu b'abakecuru bicaye ahantu mu nama ubona ko bari barimo baganirizwa ku bintu bigiye bitandukanye ndetse urabona ko ari ibintu byiza, bose barakurikiye bicaye ku ntebe za pulasitike z'umweru.

Abakuze bakwiye kwitabwaho, ni yo mpamvu uzumva mu Rwanda hari gahunda nyinshi zagenewe abakuze zagiye zishyirwaho kugira ngo zibahurize hamwe, hari nk'abo tuzi bibera mu karere ka Huye, aho bahurizwa hamwe bakaboha uduseke, bakaboha n'indi mitako igiye itandukanye, akaba ari ibintu byiza cyane.

Umuntu w'umubyeyi bisa nkaho ari umuganga, arimo arafasha umukecuru ugeze mu zabukuru ubona ko afite imvi z'uruyenzi, akaba ari kumufasha gukora utwitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Abageze mu zabukuru bakwiye kwitabwaho, gusa bagahabwa ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye, aho bashobora kurya imboga, imbuto , ibikomoka ku matungo nk'amagi n'inyama, ndetse n'ibindi.

Umuganga w'umuzungu cyangwa se umugore w'umuzungu, wifitiye imisatsi myiza cyane, akaba afatanye mu kuboko n'umusaza ugeze mu zabukuru, uwo musaza akaba ari Umunyarwanda, akaba yambaye amarinete na we ari kwisekera, barimo baratembera mu nyubako.

Umugabo w'umusaza akaba yambaye amarinete, yambaye ishati nziza, yicaye ku gitanda, inyuma ye ku gitanda hamanitse inzitiramibu, hari umuganga w'umuzungu uri kumuhagurutsa.

Umukecuru ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari gukora pompaje ubona ko yishimye, kandi urabona ko akomeye afite umubiri wumutse. Ni byiza cyane ko abakuze bakora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru, ubona ko bafite imyaka iri hejuru ya mirongo irindwi, bakaba bagiye kunywa imiti, umukecuru afite urupapuro ari gusomaho amabwiriza, musaza we afite ibinini mu ntoki agiye kubinywa.

Abantu bafashe ifoto nziza cyane, ubona ko ari umuryango w'ababyeyi bakuze, umusaza n'umukecuru bafite imvi ndetse n'abana babo n'umwuzukuru umwe.

Abakecuru bageze mu zabukuru n'abasaza na bo bakwiye kwitabwaho bagakora siporo ndetse zigiye zitandukanye, ku buryo bibafasha kugira ubuzima bwiza, gutekereza neza ndetse no kutiheba.

Abantu ubona ko ari umuryango, barimo umusaza, umukecuru, abana babo ndetse n'umukwe wabo n'umwuzukuru wabo. Barishimye cyane ubona ko ari ibintu byiza.

Umusaza ugeze mu zabukuru ubona ko akuze rwose, ntakibasha kwihagurutsa, ntakibasha kwigenza bisaba ko bamufata bakamwicaza bamumanura gakegake bajya no kumuhagurutsa bikaba uko.

Abantu b'abakecuru babiri, bari guseka, bari gukina amakarita n'undi muntu umwe mbona ko we akiri mutoya, gusa na we ni uw'igitsina gore, ni byiza cyane gukina n'abakecuru bageze mu zabukuru kuko bibafasha gutekereza neza no kwishima.

Mu Rwanda ni igihugu cyiza cyane aho uzasanga bafite isuku ndetse bafite n'ubudasa bwabo, bagira umuryango ushinzwe kwita kuri gahunda zose zirebana n'ubuzima.

Inama z'uburyo wakirinda virusi itera SIDA. Ndetse n'uburyo igihe waba waranduye, wakoresha kugira ngo ugabanye ubukana bwayo.

Ibimenyetso bya Diyabete igihe ubyumvise ujye wihutira kujya kwa muganga bagufashe. Icya mbere kumva ufite icyaka, kumva ushaka kunyara bya hato na hato, gucika intege ndetse no kumva utari gutekereza neza.

Abaganga iyo babonye umurwayi urembye ukeneye kwitabwaho by'umwihariko kurusha abandi, bamwitaho uko bashoboye kose ndetse bakungurana ibitekerezo, bakajya inama bakareba ko batabara ubuzima bwe adapfuye ngo ave mu bandi.

Kanseri ni indwara cyangwa se ni ibyorezo bimaze guhangayikisha kuko hari ubwoko bwa kanseri bugiye butandukanye. Gusa hari ibyo wakora kugira ngo wirinde kanseri, birimo gukora imyitozo ngororamubiri kuko bigabanya umubyibuho ukabije ushobora gutera diyabete.

Indwara ya diyabete ikomeza guhangayikisha. Haba mu Rwanda ndetse no ku Isi yose muri rusange, dukwiye guhagurukira kuyirwanya ndetse no kuyirinda kuko ni indwara mbi ishobora kugeza ku rupfu.

Igishushanyo cyangwa se ikirango cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ariko akaba yanditse ahantu hari amabara atandukanye, ubona ko hari amabara agera muri ane. Hari ibara ry'umukara, iry'ubururu, ubururu bwerurutse n'irindi rijya kuba umweru.

Urubyiruko rwinshi cyane rwambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru. Inyuma yabo hari ibiti byiza cyane biri guhinguka, urabona ko bari ku muhanda cyangwa se bari kugenda mu muhanda batanga ubukangurambaga bwo kwirinda Kanseri y'ibere.

Abantu babiri bari gukorana mu ntoki gusa ntago bari gusuhuzanya ahubwo umwe ari gushimira undi bitewe n'uko amaze kuvuga ijambo yari arimo ageza ku bitabiriye inama.

Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bigendanye n'inkingo, ukora ibishoboka byose ngo ukore ubushakashatsi ku ndwara zigiye zitandukanye ndetse bagerageze gushaka igisubizo kirambye.

Inama yahurije hamwe imbaga y'abaganga bagiye batandukanye bambaye amataburiya y'umweru ariko bakaba biganjemo abagore bafite imisatsi myiza cyane y'umukara isutse.

Ni byiza cyane ndetse birakwiriye ko dukwiye guhaguruka twese tukarwanya indwara zigiye zitandukanye ndetse tukarwanya n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu bana batoya, mu burezi.

Amakuru meza. Ayo ni amagambo y'Icyongereza, yanditse ku gikarito gishushanyijeho abantu, ubona ko umwe ari umuganga uri kwita ku murwayi. Hirya hakaba hari n'abandi bantu bicaye.

Mu Rwanda hatangijwe ikigo gishinzwe gukora imiti, bikaba ari ibintu byiza cyane ndetse bikaba byihariwe mu Rwanda by'umwihariko muri aka Karere k'Afurika y'Iburasirazuba.

Umuntu w'umuganga, yazamuye ukuboko kwe afunze igipfunsi, hakaba hari amagambo yanditse ku cyapa kiri mu ibara ry'ubururu avuga ngo imbaraga muri Afurika, hepfo hakaba handitse ngo imbaraga mu by'ubuvuzi mu Rwanda.

Umuryango ushinzwe kwita ku buzima ku rwego rw'Isi. Ufatanyiriza hamwe n'indi miryango ishinzwe kwita ku buzima, igiye itandukanye iboneka mu bihugu ndetse no ku migabane, kugira ngo barebe ko bateza imbere ubuzima bw'umuntu, kandi birinde indwara zitandukanye...

Abantu babiri babona ko umwe ari umukobwa w'umwirabura wambaye inkweto za shinga munono ndetse akaba yambaye n'ibaji y'akazi, undi akaba ari umuzungu wifashe mu manyanyinya nawe yambaye ibaji y'akazi n'amakoti meza y'umukara n'ipantaro y'umukara.

Hagarika Marburg cyangwa se Ubushita bw'inkende, aya ni amagambo y'Icyongereza yanditse ku cyapa cyangwa se igipapuro kimanitse inyuma y'abantu bari gukora inama, Kigali bibiri na makumyabiri na kane mu kwa cumi.

Imbaga y'abantu bahuriye mu nama, ubona ko bafite icyo bashinzwe. Bashobora kuba ari nk'abaganga, cyangwa se abantu bakorera izindi nzego runaka. Ubona ko bishimye cyane, harimo abambaye imyenda y'imyeru, n'indi y'imikara.

Abaganga batandukanye, barasanasana, bakavura umurwayi, uko yaba ameze kose, yaba arembye, yenda gupfa, ahumeka umwuka wa nyuma, ashobora kuvurwa agakira, gusa rimwe na rimwe hari igihe habaho ibyago cyangwa se akaba ari rwangendanye, akaba arapfuye.

Umuntu w'umugore, afite imisatsi myiza akaba yishimye ndetse urabona ko ari ibintu byiza cyane, handitseho ijambo ry'Icyongereza muri iyo foto uwo mubyeyi ariho, avuga ngo ingaruka z'ibimera cyangwa se ibyiza by'ibimera.

Ikirangantego cy'umuryango ushinzwe kwita ku buzima ndetse akaba ari umuryango ukomeye cyane ukorera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Abaganga bateganye bari kumurongo umwe, bambaye imyenda isa y'mpuzankano iri mu mabara y'umweru bambaye n'udupfukamunwa ndetse bipfutse no mu mutwe bisa nk'aho bagiye kuvura icyorezo.

Ni byiza ndetse ni iby'agaciro ko twita ku buzima bwacu, ndetse tukagira uruhare mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye. Ni yo mpamvu ubona yuko hari icyapa gishishikariza n'abagore mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu na bo kuza mu nama yigaga ku by'ubuzima bugiye butandukanye.

Umwana mutoya, aricaye ndetse ubona ko yambaye ipantaro y'ikoboyi. Muganga ari kumureba, ari kumwitegereza. Uwo muganga, yambaye agapfukamunwa, yashyize uwo mwana ikintu cy'umugozi ndetse acyambaye no mu matwi, bisa nk'aho ari kumva uko umutima we utera.

Hirya no hino ku masoko agiye atandukanye, tuba tuzi ahantu dushobora kujya tukagurira imboga, imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko hari n'ahandi haba hahari nubwo usanga ari hakeya hagurishirizwa imiti, iyo miti ikaba iba ifunze mu makarito, mu macupa no mu mashashi ndetse no muri amvirope.

Umugabo yicaye munsi yigiti, icyo giti ni igiti kinini cyane gifite amashami ubona ko ari icya kera rwose ndetse gishobora no gusurwa.

Abaganga bari gukora ubuvuzi ku barwayi, umurwayi umwe afashwe ukuboko na muganga, uwo murwayi yambaye amarinete ndetse akaba yarambuye ukuboko muganga agufashe akaba yamwambitse ikintu kifashishwa mu kumupima.

Inyubako nziza cyane, akaba ari inyubako ubona ko yubatswe mu buryo busanzwe, ikaba imbere yayo haparitse moto, iyo moto ikaba yicayeho n'umuntu, hari n'undi muntu uhagaze wambaye agapira k'umweru, icururizwamo imiti, imiti igiye itandukanye.

Mu bitaro byo kwa muganga, uzahasanga ibitanda bigiye bitandukanye. Hari ibyifashishwa baryamishaho umurwayi ugiye gusuzumwa, n'ibyuma by'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane, ikaba ari inyubako isize irangi ry'umweru. Ndetse ikaba ifite amabati meza cyane, y'ubururu. Ikaba ifite akabaraza keza cyane, kanditseho amagambo agaragaza ko bavura, abantu bari hagati y'imyaka, kuva ku myaka ibiri kuzamura.

Ubuvuzi bwo kwa muganga ni ubuvuzi bwateye imbere ku kigero cyo hejuru ndetse ku buryo ntashidikanywaho, aho basigaye bifashisha ibyuma by'ikoranabuhanga rigiye ritandukanye mu gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga umuti ku barwayi.

Uko biri kose ubuvuzi ni bwiza cyane, gusa abantu bose baba bafite aho bavurirwa. Hari ibitaro uzasanga bivura abana, ibivura abakuru ndetse n'ibivura ingeri zose.

Intebe ziteye zizengurutse ameza ndetse hakaba hari izindi zitaruye zitameze kimwe, ubona yuko zifite amabara meza cyane, ni ahantu muri salo cyangwa se muri sare yo kwa muganga.

Inyubako icururizwamo imiti ahazwi nko muri foromasi, hari imiti myinshi cyane igiye itandukanye, ivura mu nda, ivura umutwe, igabanya uburibwe ndetse n'iyindi myinshi cyane.

Mu bitaro kwa muganga hari ibitanda bine biryamishwaho abarwayi barembye, bibiri nibyo biryamishijweho abarwayi. Kimwe kiriho uwiyorosha amashuka y'umweru, ikindi kiriho uwiyoroshe ishuka y'ubururu. Hejuru y'abo hari inzitiramibu.

Abaganga batatu, babiri bari ku mwamba umwe, undi umwe ari hino. Hirya yabo gato hari undi muganga uri kubitegereza. Aba bose bambaye amataburiya y'umweru, udupfukamunwa n'ibindi bintu bibapfutse mu matwi nako mutwe usibye umwe uri kubarunguruka, bari iruhande rw'ibyuma by'ikoranabuhanga bicomekanze.

Inyubako nziza cyane yubatswe neza, imbere hayo hari imiryango itatu, iyo miryango itatu yose irafunze, ibikuta byayo bisize irangi ry'umweru hasi harimo amakaro y'umweru, hejuru hamanitse icyapa kiriho udufureshi tubiri tureba hejuru n'utundi tubiri dutambitse.

Abantu babiri bari guhinguka mu marembo. Umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi ni umumama ukenyeye igitenge, wambaye agapira k'umweru ndetse n'irakosite y'umukara, akaba afite umusatsi mwiza cyane ushokoje. Inyuma ye hari akana gahinguka. Hirya hari undi muntu uri gukaraba, munsi y'ikigega kimanitse hejuru.

Muganga w'umugore yambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'agapfukamunwa k'umukara, ari imbere ya mudasobwa urabona ko hari ibyo arimo arareba.

Abantu bafashe ifoto, bari imbere y'inyubako, harimo abagore bane n'umugabo umwe. Abenshi bambaye imyenda y'imikara, ubona ko bifotoreje ahantu imbere y'inyubako yo kwa muganga.

Ibikoresho bitandukanye, biri ahantu mu nyubako, iyo nyubako bisa nkaho ari iyo kwa muganga, ibikoresho birimo byose n'iby'ikoranabuhanga ndetse urabona ko biteye mu buryo butandukanye, hari ibimeze nk'intebe, hari bimeze nk'urwego n'ibindi bigiye bitandukanye.

Hari inyubako ziba zaragenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri. Izo nyubako zikunze kubamo ibikoresho bitandukanye birimo n'ibyuma byo guterura. Ibyo byuma biba bifite ibiro bigiye bitandukanye, mirongo ine, mirongo itanu, mirongo itandatu, biterwa n'uko wiyumva.

Mu nyubako kwa muganga, ni ahantu heza cyane, hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, gusa hano hari sale nini, nako ni korodori, hirya kure hahinguka hakaba haparitsemo imodoka ebyiri.

Ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura, gusuzuma ndetse no kugenzura neza ubuzima bw'umuntu, ni ibyuma bikunze kuba cyane cyane mu bitaro bikomeye nka za CHUK cyangwa CHUB.

Inyubako nziza cyane ubona ko iri mu igorofa n'ubwo ari ritoya, isize amarangi y'umweru, imbere hari agahanda ka kaburimbo kanyurwamo n'imodoka, ku ruhande gato hari akandi kayira kanyurwamo n'abanyamaguru ndetse urabona ko hari jaride nziza cyane, hari n'akabaraza gaparitsemo imodoka y'ivatiri.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibifite amabara y'icyatsi, umuhondo, umutuku ndetse n'umweru, ni inyubako yubatse neza cyane ifite parafo nziza.

Umukobwa mwiza cyane araryamye ariko ni igikara, aryamye kuri matola ubona ko ari ahantu mu bitaro kwa muganga, hari n'umuganga uri kumwitaho ndetse hari umugabo bisa nkaho ari se umurwaje.

Umuganga ari kurambura igitambaro ahantu ku cyuma, icyuma kinini cyane cya rutura kifashishwa mu gupima umuntu, aho bamuryamisha aho ngaho ari gusambura igitambaro cy'umweru ndetse umuntu agapimwa umubiri we wose.

Akana kamanitse mu mugozi, uwo mugozi na wo ukaba uri mu munzani, bigaragara ko kazanywe ku mujyanama w'ubuzima ngo bagapime ibiro, bamenye ko imikurire yako imeze.

Mu bitaro byo kwa muganga hari ibitanda bigiye bitandukanye, ibyo bitanda byose bikaba bifite amashuka y'umweru, ndetse kuri buri gitanda hamanitse inzitiramibu, iyo nzitiramibu ikaba irinda abarwayi Malariya.

Umwana w'umukobwa ahagaze imbere ya muganga, uwo muganga afite ikintu yifashisha ari gupima umutima, akaba yambaye amarinete, ari kumwenyura, afite agasatsi keza n'umucongo akaba afite ajenda mu ntoki, yayifatishije intoki ze zombi, bigaragara ko yaje gutanga ubuvuzi mu rugo aho uyu mwana aba.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibitanda, intebe, ndetse n'ibindi bintu by'ikoranabuhanga ubona ko byose bifite amapine, ku buryo igihe bikeneye kwimurwa bisunikwa.

Inyubako irimo icyuma kinini gifite ibindi byuma bigiye bigitambitseho, kikaba kikaraga kigatanga umuyaga cyangwa se kigatuma hataza ubushyuhe bukabije mu nyubako mo imbere.

Porotayi nini cyane cyangwa se amarembo mu rurimi rwacu, ubona ko ari amarembo yanditseho ijambo rivuga ngo:"Ibitaro bya Kabgayi." Iryo jambo nsomye ryanditse mu Cyongereza.

Inyubako nziza cyane, ni inyubako irimo amakaro hasi ashashe, ubona ko afite ibara ry'ivu ndetse iyi nyubako ikaba ifite inzugi z'umukara, mo hagati hari ama esikariye azamuka ajya hejuru mu igorofa rya kabiri.

Imyicundago y'abana, ifite amabara y'ubururu, ibara ry'ivu, ibara ry'icyatsi, ikaba iri ahantu mu rucaca, ubona ko ari nko kwa muganga, akaba abana baza kuhakinira igihe cyose bazanye n'iwabo kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga nziza cyane, ubona ko ifite amadirishya y'ibirahuri, ikaba inkuta zayo zisizwe ibara ry'ivu ndetse hasi naho hasa ibara ry'ivu, hejuru mu gisenge hari ibyuma bitambitse n'ibindi bimanitse.

Igitanda kiriho ishuka y'umweru, ni igitanda cyiza cyane ubona ko giteye hagati y'ibyuma bibiri by'ikoranabuhanga, ibyo byuma bikaba bifite insakazamashusho hejuru, hakaba hari kimwe gifite na mudasobwa munsi y'insakazamashusho, ubona ko bicometseho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Intebe ziteye mu buryo buzengurutse ameza, ebyiri zirebana n'izindi ebyiri zirebana, hino hakaba hari izindi na zo ziteye muri ubwo buryo, ziri ahantu mu nyubako nziza ubona ko ari muri sale cyangwa se mu ruganiriro.

Ahantu mu nyubako ubona ko ari kwa muganga. Hashushanyije igishushanyo kinini cy'ijisho cyometse ahantu ku gikuta cy'umweru. Hari ibiganza bya muganga bifashe imakasi cyangwa se igikoresho kifashishwa mu gukora mu jisho, nabyo bikaba biri gukora muri icyo gishushanyo k'ijisho. Bigaragara ko bavura amaso.

Kwa muganga mu cyumba mu nyubako ubona ko hameze nko muri sare hari amavaze abiri ateganye. Yose arimo indabo zisa ibara ry'icyatsi. Hakaba hari n'intebe iri hagati yaho ubona ko ari yo abantu bicaraho.

Ubuvuzi bwo muri Afurika bwateye imbere ku rwego rushimishije ku buryo usanga bafite ubushobozi bwo kuvura indwara zigiye zitandukanye n'ibyorezo ndetse n'izindi.

umuntu w'umugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n'umukandara w'umukara ubona ko yatebeje, ari kumanura inzitiramibu ahantu mucyumba kiryamishwamo abarwayi barembye.

Abakecuru baricaye neza ku mbaho za zindi za kinyarwanda, bakaba bakurikiye inama bambaye imyenda y'ubururu n'umweru abenshi, inyuma hari intebe iticayeho n'umuntu n'umwe.

Ikigo cyiza cyane ubona ko ari ikigo gishinzwe ibintu by'ubuzima, mbega n'inyubako yo kwa muganga ifite akabaraza keza cyane umuntu yakugamamo, hakaba harimo umuntu w'umukobwa wegamye ku nkingi.

Umuntu bigaragara yuko ari umuganga w'umugore, wambaye agapfukamunwa, wambaye imyenda y'imyeru, imisatsi yayishyize mu mugongo, ari gufata amaraso umukecuru; uwo mukecuru ari mu kagare k'abafite ubumuga.

Inyubako yo kwa muganga ifite inkuta z'umweru, ikaba irimo ahantu bakarabira, ikaba irimo umuryango, iruhande rw'umuryango hakaba hari irido y'umweru ndetse hakaba hari n'intebe iteretse imbere y'ikimeze nk'igitanda cyubakiye.

inyubako nziza y'ibitaro ikaba ari inyubako ubonako yubatse mu buryo bw'igorofa, isize amarangi y'umweru ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure, ifite mu nguni cyangwa se aho twakwita mu mutwe wubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari abantu benshi bari kugenda.

Inyubako nziza cyane ubona ko ari inyubako y'igorofa, ikaba ari inyubako igeretse kabiri, imbere yayo hari imodoka iri gusohoka mu marembo, ndetse hari n'umuntu wicaye iruhande rw'amarembo ahantu hegereye akazu gafite idirishya rifunguye, ubona ko ari akazu k'abasekirite.

Abantu ubona ko bari kugenda, umwe ni umusekirite wegereye amarembo acamo imodoka, abandi ni abarwayi ubona ko bavuye mu bitaro bagiye guca ahagenewe abantu batari ibinyabiziga

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ifite ibara ry'ubururu ryiganje nk'uko ibati ari ubururu, igikuta kikaba ari ubururu ndetse hasi imbere yayo hari akabaraza gatoya, ubona ko imbere y'akabaraza hari jaride irimo umukindo utarakura.

Umuganga wambaye imyenda isa y'ubururu, ari gutambuka ubona ko ari kwihuta ndetse imbere ye gato hari abandi baganga, ubona ko bambaye amataburiya y'umweru, bari kurebana bisa nk'aho bari kujya inama, hirya na none hari abandi baganga bagera muri batatu.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, ubururu bwerurutse cyangwa se bleu ciel, urabona ko ari kwita ku musaza, umusaza ugeze mu zabukuru.

Abaganga bane bari gusuzuma ibintu bigiye bitandukanye, babiri bari hirya basa nkaho barimo baragenda bandika banitegereza mu byuma by'ikoranabuhanga.

Mu bitaro byo kwa muganga hari ibitanda byinshi cyane ndetse urabona ko abarwayi barembye babiryamyeho. Gusa hari n'abandi bameze nk'abarwaza bicaye ku bitanda muganga na we ari kugenda bafasha umwe umwe. Hari n'inzitiramibu zimanitse kuri buri gitanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, imbere hayo hari uturongo tw'umweru, tugufiya n'utundi tureture duhurutuye ndetse hakaba harimo n'ibikoresho hirya by'ikoranabuhanga.

Ni ahantu heza cyane ubona ko ari mu nyubako mo imbere, harimo ameza arambuyeho ibitambaro, ibitambaro bifite ibara ry'ubururu bwerurutse cyane ndetse hakaba hari ibyuma by'ikoranabuhanga birimo insakazamashusho n'ibindi byuma bimeze nka za firigo.

Inyubako yo kwa muganga ubona ko ari inyubako yubatse mu buryo bwiza cyane, ifite mo imbere ahantu hameze nko muri sale ariko hari na korodoro igenda yinjira ku muryango, ndetse kuri buri muryango hariho nimero igaragaza ahantu abantu bashyirwa mu kato.

Abarwayi babiri baryamye ku gitanda ubona ko barembye, umwe amaguru yayarebesheje mu kirere ndetse afite ibintu bimucometse ku mazuru ari byo twita sonde biri kumwongerera umwuka.

Umuntu w'umugabo wazamuye igikumwe sinzi niba ari umuganga kuko ari ahantu mu nyubako hameze nko kwa muganga, urabona ko yambaye n'ikintu cy'umweru. Yicaye ku ntebe yegamiye ndetse harambitse umupira kuri iyo ntebe hejuru, umupira w'amaboko.

Inyubako nziza cyane y'igorofa ubona ko ari nshyashya ndetse imbere yayo hakaba hari imikindo ine iteganye, harimo ibiri ikuze iri ku ruhande urw'iburyo n'urw ibumoso, n'indi ibiri irimo hagati ikiri mitoya, ni inyubako icururizwamo imiti.

Inyubako nziza cyane ubona ko yanditseho amagambo hejuru y'Icyongereza, ubona ko ari ahantu bacururiza imiti, ikaba icuruzwa n'umuntu witwa Iraguha ndetse handitseho ngo dukorana na, hirya hakaba ubwishingizi bagenda bakorana nabwo, hari abantu baje kugura imiti barimo umubyeyi ufite umwana.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe zigiye zitandukanye, ndetse ubona ko ari intebe zagenewe kwicarwamo n'umuntu ugiye gusuzumwa, cyangwa ugiye kwitabwaho n'abaganga, ufite ikibazo runaka.

Umuntu w'umuganga aricaye ku ntebe, iyo ntebe ifite ibara ry'icyatsi ndetse ifite n'amapine ubona ko iyo igiye kwimurwa barayisunika, inyuma ye hari indi ntebe yicarwaho n'umurwayi nayo ifite ibara ry'icyatsi, hejuru hari icyuma cy'ikoranabuhanga.

Umuntu w'umuganga ari imbere ya mudasobwa, arimo arayikoresha ndetse akaba ari kurebera ku nsakazamashusho ibyo arimo arakora.

Ibitaro bishushanyijeho icyapa kiri mu ibara ry'umweru, icyo cyapa gishushanyijeho ijisho. Hirya hari ikindi cyanditseho Gihundwe, bigaragaza ko ari ibitabo bya Gihundwe, kandi bikaba bivura amaso.

Abantu benshi bakunze kujya kwa muganga kuko baba bizeye kuvurwa bagakira, gusa rimwe na rimwe uzasanga badahabwa serivisi neza, aho bagenda bakirirwa bategereje abaganga bikarangira batinze guhabwa serivisi bagiye kwaka.

Inyubako yo kwa muganga, ikaba ari inyubako irimo icyumba, icyo cyumba kikaba ari ibitaro cyangwa se ahajyanwa abarwayi barembye batabasha kwigenza cyangwa se kuvurwa bataha, hakaba harimo inzitiramibu zigiye zifunze ndetse ku bitanda hasi nta murwayi n'umwe uryamyemo.

Inyubako nziza cyane ifite amabati y'umutuku, ikaba ifite icyapa gishushanyijeho akana gafite umurizo ku ruhande rumwe rw'iburyo n'akandi ku rw'ibumoso, hakaba handitseho abana b'u Rwanda, imbere hakaba hari amadarapo abiri, iry'igihugu cy'u Rwanda n'irindi ry'Umuryango w'Abibumbye.

Ubuvuzi bwateye imbere ku buryo usanga hari ibyuma by'ikoranabuhanga byinshi cyane bigiye bicometseho insinga z'amashanyarazi, biba biri ahantu kwa muganga, byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Umubyeyi araryamye, aryamye ku gitanda cyo kwa muganga, icyo gitanda ubona ko gifite umwenda usa ubururu, uyu muganga ari kwita kuri uyu murwayi.

Inyubako yo kwa muganga nziza cyane, ubona ko ifite ahantu hagenewe gukorerwa siporo, aho umuntu agenda agakora siporo zitandukanye, zirimo kwirukanka akoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga, zirimo guterura ibyuma biremereye n'ibindi bitandukanye.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ikaba imbere yayo ifite icyapa kiri iruhande rw'umuryango ubona ko cyanditseho ikigo nderabuzima cya Gisenyi, bisobanura ko ari ku kigo nderabuzima nyine cyo mu karere ka Rubavu.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura, gusuzuma, ndetse no kumenya uburwayi umurwayi arwaye. Bityo bakaba bashingiraho, bamenya ubuvuzi ari buhabwe.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe neza cyane, ubona ko iri ahantu hameze nko ku isoko, ariko ikaba icururizwamo imiti, ntago ari mu bitaro cyangwa se ku kigo nderabuzima.

Abantu bagera muri bane, ubona ko bari kwirukanka, bisa nk'aho bari mu marushanwa, hari babiri benda kuba imbere gato n'abandi babiri bari guhinguka, bose bari kwiruka ahantu mu mirongo y'umweru.

Igishushanyo cy'umuzenguruko gifite n'ipfundo rimeze nka rya rindi riba ku kirangantego cy'u Rwanda, harimo abantu babiri nabo bashushanyije, barimo bararwana bambaye imyenda y'abantu bakina umukino wa karate, hashushanyijemo n'izuba rifite imirasire, rikaba riri mu ibara ry'umuhondo.

Imashini iriho imibare kuva kuri rimwe kugeza ku icyenda, ikaba ari imashini yifashishwa mu kubara ibintu bigiye bitandukanye hakaba hari n'umugozi ukoreshwa n'amashanyarazi uri ku ruhande.

Umuntu w'umusore cyangwa w'umugabo ufite ubwanwa yambaye agapira keza cyane k'agasengeri, yambaye n'akantu ku kuboko gasa ibara ry'iroza ndetse ari kwemena amazi mu gahanga bisa nkaho afite icyokere nyuma yo gukora siporo.

Ibintu bitatu bimeze nk'ibipirizo birambitse ahantu hejuru mu nyubako ndetse urabona ko ari ibipirizo bigera muri bitanu, harimo bitatu bisa ndetse n'ibindi bibiri na none na byo bifite ibara risa.

Umuntu w'igitsina gabo, afite umupira bakina mu ntoki arawuhagatiye. Bigaragara ko kuri uwo mupira handitseho umubare kane, ndetse uyu mugabo yambaye agapira k'icyatsi.

Umuntu w'umukobwa wambaye agasengeri keza cyane, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri yazamuye amaboko ye ayashyira mu kirere arayafatanya, ukuboko kumwe kw'ibumoso kuriho isaha, muri make yambaye isaha.

Imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo ni myiza cyane, kuko bifasha umuntu kwirinda indwara zigiye zitandukanye, bigafasha umubiri we ndetse bigafasha n'ubwonko gutekereza neza.

Intebe umuntu yicaraho akabona aho arambika amaboko ndetse akaba yicaye mu buryo bwiza busa nk'ubwegamye, ikaba iteye munsi y'icyuma cy'ikoranabuhanga gicometse ndetse ubona ko cyifashishwa mu gupima umuntu.

Aha ni mu nzu yagenewe gukora imyitozo ngororamubiri, harimo umugabo, uwo mugabo araryamye ukuboko kwe kumwe kurambitse hasi kuri kugaragara kw'iburyo, akaguru kamwe karashinze, akandi kaziritse umugozi, uwo mugozi ukaba uziritse hejuru ku cyuma. Ari gukora igorora ngingo.

Akaguru k'umuntu ubona ko gafashwe mu ivi n'amaboko y'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, bisa nkaho uyu muntu yavunitse, bakaba bari kumwitaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.

Umukobwa ubona ko ari muri siporo, yarambuye ukuguru kumwe ukundi kurahinnye, yambaye inkweto z'umutuku, zifite amarase na yo asa umutuku, imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Agacupa k'amazi karimo amazi meza cyane, kakaba kari kwerekanwa n'ikiganza cy'umuntu, mu by'ukuri bari kudushyishikariza kunywa amazi meza ndetse yateguwe neza ayunguruye.

Umugabo wicaye urambuye ukuboko ubona ko afite ikintu cy'igishashi kimeze nka cya barafu, yagifatiye ku kuboko kw'iburyo. Ibi ngibi bikaba bitwereka ko ashobora kuba yagize imvune. Iki kikaba kiri kumufasha kugabanya uburibwe.

Umukobwa yambaye agasengeri k'ubururu. Gafite n'akabara k'umukara. Afite imisatsi myiza cyane ,irambuye. Ndetse ari kunywa amazi. Ubona ko ari ibintu byiza cyane.

Igikapu cya muganga yifashisha agiye gutanga ubuvuzi bw'ibanze, kikaba kirimo ibikoresho ashobora gukenera birimo imakashi, harimo imiti nyine, amazi, ndetse gaza kwambara, n'utundi tuntu tworoheje.

Umuntu w'umusore ari gukora imyitozo ngororamubiri, uwo musore urabona ko yambaye agasengeri k'umukara, ipantaro y'umukara ifite akabara k'umweru, inkweto nziza zifunze neza n'amarase ndetse ubona ko ari kugenda agorora amaguru ye.

Igishushanyo cy'umuntu uryamye umeze nk'umwana, akaba afite akantu kamuziritse ku mutima ndetse akaba afite n'akagozi gatambitse kuri icyo kintu, hari igikapu hino cya muganga cy'umutuku.

Amacupa y'umweru, apfunyitsemo imiti ya gakondo, hakaba handitseho ijambo rimwe ry'Icyongereza riri ahantu mu kabara gatukura ariko ryo rikaba ryandikishijwe ibara ry'umweru, rikaba rigaragaza ko ari umuti ugabanya ububabare buzwi nka pomade.

Abagabo babiri umwe ni umuzungu, undi ni umunyafurika cyangwa se umwirabura, wasanga ari n'umunyarwanda. Urabona ko bari mu myitozo ngororamubiri, aho bari gukina umwe mu mikino izwi hano ku isi.

Umuntu uri kunywa amazi akaba ari kunywa amazi meza cyane, akaba ari kuyanywa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. Igihe cyose wakoze imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye yaba gukina umupira, kwiruka cyangwa se gusimbuka, ushobora kunywa amazi kuko birafasha.

Umuntu wavunitse uburyo ubwo ari bwo bwose hari umuti ubafasha kugabanya uburibwe mu gihe bakivunika imvune igishyushye, uwo muti bawita barafu, ni amazi aba ari mu gishashi akonje.

Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri, gusa hari urubuga rwashyizweho mu Rwanda, aho ushobora kurusura ukareba uburyo bakora imyitozo ngororamubiri yo kwiruka, hashushanyijeho n'umugabo uri kwiruka, uri mu kadarapo k'u Rwanda.

Imbuto ushobora kurya kugira ngo ugire ubuzima bwiza ndetse n'ibindi biryo warya bifite intungamubiri, igihe ukora imyitozo ngororamubiri. Harimo inanasi, inyeri, amatunda, amacunga, beterave, urusenda, imboga, amashu, ibishyimbo, amagi, inyama.

Ibiganza by'umuganga bikaba biteruye, kimwe mu bikoresho cyangwa se muri bimwe byifashishwa mu gukina umwe mu mikino izwi ukaba witwa rugubi, akaba afite n'akantu mu ijosi kamuzengurutse, bifashisha bapima umuvuduko w'amaraso cyangwa umutima.

Burankari ni ingobyi y'abarwayi ariko itari nk'iyo mu giturage, ni iya kizungu, yifashishwa ahantu habereye imikino igiye itandukanye, mu gihe bari gutanga ubutabazi bw'ibanze umuntu uguye igihumure cyangwa uvunitse bikabije.

Abantu ubona ko bari gukora imyitozo ngororamubiri ariko bambaye amakasike abarinda gukomereka mu maso cyangwa se gukorana mu maso cyangwa se kuba umuntu bamutera umupira mu maso.

Umuntu ugeze mu zabukuru afite ikigozi kirekire, yakizingiye mu ntoki ari kugikwedura ndetse akaba ari uburyo bwo gukora siporo, hari umuganga urimo aramufasha, uwo muganga yambaye impuzankano z'ubururu.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane birafasha, waba wiruka, waba ukina umupira, waba usimbuka, gusa ni byiza cyane igihe ushoje gukora iyi myitozo, kunywa amazi meza y'urubogobogu, kuko bifasha ubuzima bwawe, n'impyiko zawe kuyungurura amaraso neza.

Igihe cyose, ukora, imyitozo, ngororamubiri, ushobora kugira, ikibazo cy' imvune. Gusa igihe cyose ugize ikibazo nk'icyo, ni byiza ko, ugana muganga, akagufasha.

Imbaga nyamwinshi y'abantu biganjemo urubyiruko, abana batoya, abakuze, abambaye imyenda y'imyeru, iyo imikara, bose bari muri siporo rusange.

Abantu buriye ingazi cyangwa se urwego, ubona ko hari ibyo bari kumanika ariko ni ku bitaro kwa muganga ndetse hejuru hari guhinguka amagambo yanditseho ko ari ibitaro byitiriwe Umwami Faisal.

Icyuma kinini cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu gupima abarwayi ndetse n'abandi bazima, ni icyuma umuntu ajyamo, kikabasha kureba ibice by'umubiri we wose uko bikora.

Umuntu wifashe mu gatuza, ndetse ubona ko yambaye ubusa hejuru, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Akaboko ke gashushanyijeho ibintu biri mu mabara y'ubururu bwerurutse n'umutuku.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo. Haba ibyo guterura, imigozi yo gusimbuka, ndetse na metero zo gupima. Hari n'ibindi harimo nk'isume, amazi yo kunywa, ndetse na pome yo kurya.

Ikintu cy'icyuma gifite utubuto tw'umukara dufunze ndetse gifite n'ahandi hantu hameze nk'ahapfundikiye mu rubavu, hakaba hapfundikijwe ikintu kimeze nk'umupfundikizo w'ubururu, hari n'ikindi ku ruhande kimeze nk'igitiyo cyangwa se igitembo na cyo gipfundikijwe igifuniko cy'ubururu.

Umuntu w'umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi, aricaye, bivuze ko amaze kunanirwa none akaba ari kunywa amazi kugira ngo yongere gusubirana imbaraga.

Abakobwa babiri beza cyane bari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse buri wese afite agacupa k'amazi ubona ko iyo bananiwe cyangwa se iyo barimo bakora siporo banywa n'amazi meza bikaba ari ibintu byiza cyane bifasha ubuzima bwabo.

Igikarito gifunguye ubona ko cyanditseho amagambo y'icyongereza, ayo magambo akaba yandikishijwe ibara ry'umukara. Hashushanyijeho n'utuntu dushushanyije mu kabara k'ubururu, hari n'ikindi kintu gihari kizinze kimeze nka bande.

Akantu kameze nk'inkoni gafite amapine ariko ko kakaba gasa umweru, ayo mapine ni umukara, hejuru hari n'ahandi bafata h'umukara ubona ko ari akantu kifashishwa mu buvuzi.

Umusore w'intarumikwa, ufite ubwanwa, imitsi yareze, ari kunywa amazi meza, yambaye agapira k'ubururu n'ishaneti mu ijosi, ni byiza cyane ndetse n'iby'agaciro kunywa amazi kuko afasha ubuzima bwacu.

Umugabo aricaye, yambaye ipantaro y'ikoboyi, yambaye agapira k'umweru, yifashe ku kuboko ku iburyo ndetse aho afashe hari ikintu kimeze nk'ikibarafu yafatiye ku kuboko.

Umukobwa cyangwa se umugore, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuye ukuguru kumwe aguhinira inyuma, agatsinsino kari gukora ku kibuno ariko afite igwede, bigaragara yuko ari kugira ngo arebe ko ryagabanuka. Kubatazi igwede ni inda nini.

Akantu kameze nk'inkoni, kifashishwa n'abaganga bakagaha umuntu kugira ngo bamufashe gukora imyitozo ngororamubiri, ako kantu kari mu ibara ry'umukara.

Akana karyamishijwe hasi, ubona ko gafite ikibazo nyina ni we wakaryamishije, abaganga barahari barimo baritegereza bagiye kureba uburyo bagafasha.

Muganga ari gukanda mu ivi ry'umurwayi, uwo murwayi akaba yavunikiye mu myitozo ngororamubiri, mu by'ukuri ukaba ubona yuko yababaye cyane mu ivi, gusa ni byiza ko igihe cyose ugize ikibazo cy'imvune ujya kwa muganga bakagufasha.

Umuntu w'umugabo bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri kuko yambaye imyenda yagenewe gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, yicaye ahantu ku gitanda, akaba ari mu nyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri nyine.

Akamashini karimo isaha, isaha iri kubara saa saba n'iminota mirongo ine n'ibiri n'amasegonda icyenda n'igice kimwe, ikaba ifite amabuto abantu bakanda bagira ngo bahindure isaha cyangwa bayishyire ku gihe.

Umuntu w'umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye yarambije ari gukora ku mano ye, ubona ko arimo kugenda agorora ingingo ndetse n'imitsi za'maguru n'amaboko icyarimwe. Ni ibintu byiza bishimishije.

Umuntu w'umusore ari kunywa amazi yifashe mu manyankinya, ukuboko gufashe mu manyankinya, kwambaye akantu k'umweru, kameze nk'akabande yiziritse. Akaba afite telefone ku kizigira, yaziritseho, hakaba hari ekuteri ari kumviramo akaziki. Ariko yabaye azifashije mu ijosi, mu gihe ari kunywa amazi.

Icyuma kinini cyane cya rutura, cyifashishwa mu gusuzuma umurwayi cyangwa se umuntu muzima. Aho gisuzuma umubiri we wose, kikamenya ibibazo byose afite.

Imiti myinshi cyane ikoreshwa ndetse ikaba yifashishwa mu gutanga ubuvuzi bugiye butandukanye, burimo kugabanya uburibwe cyangwa se kuvura indwara burundu.

Akagozi kifashishwa mu gupima abarwayi akaba ari ukubapima imitima, muganga aragafata akakambara mu matwi yombi yarangiza akagakoza ku mutima cyangwa se ku gice kibamo umutima w'umuntu, akumva uko utera.

Igihe umuntu yavunitse by'umwihariko mu ngingo zigiye zitandukanye nko mu kagombambari bamuzirikaho bande. Iyo bande ituma igufa risa nkiryacomokotse ribasha gusubira mu mwanya waryo.

Umukobwa aricaye yasobekeranyije, amaguru afite umusatsi mwiza urambuye ushokoje neza, yambaye agasengeri k'umukara n'agapantaro kamuniriye, akaba ari kwikorera imyitozo ngororamubiri.

Ni umukobwa mwiza cyane wirabura ariko akaba atirabura cyane nk'abanya Senegal, ariko akaba yambaye inkweto zifunze nziza cyane, akaba yambaye ipantaro y'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa yambaye agakabutura keza cyane k'umukara karimo uturongo tw'umweru tugiye tuzamutse ndetse urabona ko afite amaguru yumutse, imbere yateretse igikapu. Hakaba hari n'undi musore nawe wicaye ku gatebe uri kunywa amazi. Nawe imbere ye hateretse igikapu. Bose bavuye mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu wavunitse igufwa rikaba ryava mu mwanya waryo, azirikwaho bande bityo ikamufasha kugira ngo amaraso najya ahagera ye kuyoba, ahubwo akomeze agende. Ubwo ni ubufasha bw'ibanze ku muntu wavunitse. Utararagezwa kwa muganga ngo yitabweho.

Imbaga y'abantu yateraniye hamwe ahantu mu kibuga, ikibuga kirimo amapave ubona ko harimo n'ibiti hejuru yacyo bizana akayaga aho ngaho, bari gukora imyitozo ngororamubiri. Urabona ko ari ibintu bisa neza.

Ikarito rishushanyijeho amacupa, ayo macupa akaba ari atatu. Ubwo bivuze ko harimo imiti. Iyo miti ikaba ari amavuta yo kuruhu, ikaba igabanya uburibwe.

Umugabo uri kunywa amazi meza cyane, ayo mazi akaba ari mu icupa, iryo cupa rikaba na ryo risukuye. Ubona ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza cyane kunywa amazi igihe cyose umaze gukora cyangwa se uri gukora siporo.

Nyamara birakwiye ndetse n'iby'ingenzi ko dukora siporo zitandukanye z'ingufu, zirimo nko guterura ibyuma biremereye, gusa hari ibyo tugomba kurya igihe cyose dukora iyi myitozo, harimo kunywa amazi, kurya imbuto n'imboga, harimo amacunga n'amatunda.

Umukobwa mwiza akaba ari umwari ubereye u Rwanda, ari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse urabona ko ari gukora icyo twita pombaje, ari kuyikorera ahantu heza hari umukeka yashyizeho amaboko, iruhande rwe hari amavaze abiri arimo indabo.

Umugabo w'amatuza ndetse ubona ko yumutse. Akaba ari umuntu ukunze gukora imyitozo ngororamubiri irimo guterura ibyuma no kwirukanka. Afite tatuwaje ku rutugu.

Umugabo ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri ndetse akaba asa nk'unaniwe kuko yifashe mu mavi ari kureba hasi, bigaragara ko yarushye rwose ariko ni ingenzi kandi ni byiza cyane gukora siporo nk'izi zituma unanirwa.

Umusore mwiza cyane, ufite umucongo uteye ubwoba, wa wundi ubazana, akaba ari kwinywera amazi ndetse ayo mazi ni amazi meza, ari kuyanywera mu icupa ryiza cyane ry'abasirimu, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri yirukanka agenda ka mucaka.

Icyuma kinini cyane kimeze nk'ubwato, kikaba ari icyuma cyifashishwa mu buvuzi bugezweho, aho umuntu agenda akaryamaho, cyangwa se akaryamishwa ku kintu kimeze nk'agatanda gifashe kuri icyo cyuma, hanyuma icyo cyuma kikareba umubiri we wose, kikamenya indwara arwaye.

Amazi meza cyane y'urubogobogo ari gusukwa mu kirahure, akaba ari guturuka mu kintu kimeze nk'ibirika cyangwa se akaba ari ijage, iyo jage ikaba ifashwe n'ikiganza cy'umuntu.

Ibiganza bibiri bizamuye biri hejuru n'ibindi bibiri bizamuye biri munsi, bikaba byanditseho imibare, iyo mibare ikaba isobanura umubare w'intoki ziriho.

Bande ni igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu kuzirika umuntu wagize ikibazo cy'imvune mu rwego rwo kumufasha kugira ngo barebe yuko amagufa ye atakomeza gutatana.

Umuntu ari kunywa amazi, uwo muntu ni umugabo kuko hari kugaragara ubwanwa ndetse ukaba ubona ko yari ari mu myitozo ngororamubiri, birasa neza birashimishije kubona umuntu uri kunywa amazi meza.

Hari uburyo bwinshi ushobora gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo. Ubwa mbere ushobora kwirukanka, ubwa kabiri ushobora kunyonga utugare, ubwa gatatu ushobora guterura ibyuma, ubwa kane ushobora gukina imikino igiye itandukanye.

Umukobwa mwiza wumutse ufite umubiri wumutse, yicaye ku mukeka ari gukora imyitozo ngororamubiri, urabona ko yishimye ari guseka, ndetse ni ibintu byiza cyane by'agaciro kandi bikwiriye.

Umuntu w'umugabo akaba yarambuye ukuguru arakuzamura agushyira hejuru ahantu ku ruzitiro rugufiya, ari mu myitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'umukara.

Ubuvuzi bwateye imbere ku rwego ruhambaye ku buryo igihe cyose ugiye kwa muganga waba uri muzima ugiye kwisuzumisha cyangwa se wumva urwaye baragusuzuma bakamenya indwara ufite ugakira.

Amacupa aterekanze ari ku murongo, harimo atatu ameze kimwe, irindi rimwe riteye ukwaryo n'ayandi abiri na yo ameze kimwe, aya macupa yose yanditseho ijambo rimwe rigaragaza ko harimo imiti igabanya uburibwe.

Muganga ni umuntu ukora ubuvuzi aho ari ho hose igihe icyo ari cyo cyose. Ni yo mpamvu uzasanga no ku kibuga haba hari abaganga bafite ibikapu, ibyo bikapu byanditseho ubutabazi bw'ibanze. Biba birimo imiti igiye itandukanye bifashisha yo korohereza umurwayi.

Muganga agira igikapu agendana. Icyo gikapu kikaba kiba kirimo imiti, yifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze. By'umwihariko hakaba harimo imakasi, ga zo kwambara, utunini tugabanya uburibwe, ndetse na za bande zo kuzirika.

Igihe cyose uri gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo, yaba usimbuka, waba wirukanka, waba ukina umupira, ni byiza ko urya imbuto zirimo nk'inyanya, amatunda, ubunyobwa, tungurusumu ndetse n'ibindi.

Umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri ivunanye nka siporo ashobora kuvunika. Ni byiza ko igihe cyose wavunitse ugomba kujya kwa muganga bakagufasha, bakaguha ubuvuzi bwihuse.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku, ekuteri z'umweru mu matwi, telefone iziritse ku kuboko, akaba ari kunywa amazi meza cyane ya rumwe mu nganda zikorera hano mu Rwanda mba nduvuze ariko ntago rwanyishyuye ngo ndwamamarize.

Amacupa atondetse ku murongo, rimwe ni iry'umweru n'ayandi yose ni umweru, hariho uturongo tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umuhondo, ay'umukara, ubururu, icyatsi n'umutuku.

Igikarito kiri mu ibara ry'iroze n'umweru gifite n'akandi kabara k'icyatsi kibisi ubona ko kirimo imiti ya gakondo, ikaba ari imiti yatunganijwe yifashishwa mu buvuzi.

Amajerekani atatu manini. Ni amarerekani apfundikiye neza, akaba yanditseho ijambo rimwe ry'Icyongereza, risa ndetse risobanura kimwe, ryitwa Forever. Hakaba no munsi handitseho andi magambo asa atandukanye mu mabara. Akaba harimo umuti wa gakondo.

Ikimera gitoshye ubona ko wagira ngo giteye ku mugezi, kikaba ari ikimera gifite amababi ashyurumbutse, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Amacupa menshi cyane, yahurijwe hamwe, akaba arimo imiti ya gakondo yatunganyijwe n'abaganga bakora umwuga wo kuvura mu buryo gakondo, ukaba ubona ko ari ibintu bishimishije, ushaka umuti ushobora kuza hano, ukawugura kuko uba umeze neza.

Amacupa atatu ateye kimwe, abiri arasa, afite ibara ry'umweru, irindi rimwe risa ukwaryo, rifite ibara ry'umuhondo, handitsweho amagambo agaragaza ikigo gikora imiti ya gakondo ibitswe muri aya macupa, hari n'ikintu k'igihingwa gisatuye.

Umusave ni icyatsi cyiza cyane cyangwa se ni ikimera bamwe bashobora no kucyita igiti. Cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, kuko kivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ubuvuzi gakondo n'ubuvuzi bwiza cyane ndetse bufasha, hari ibyatsi byinshi cyane byifashishwa muri ubu buvuzi aho bisoromwa, bigasekurwa, bikumishwa bigashyirwa mu macupa hanyuma tukazabyifashisha nk'imiti.

Igitunguru gisatuye, hari n'ikindi cyacyo kiri iruhande rwaho ndetse hari n'indimu ebyiri, hari n'icupa rirerire rizamuye ry'icyuma ripfundikiye neza, rishushanyijeho n'ibimera, hakaba handitseho amagambo hejuru avuga ngo Baho neza Tv.

Abaganga ba gakondo ni abaganga b'abahanga kuko usanga bafashe ibimera bitandukanye cyangwa imbuto zikomoka kuri ibyo bimera cyangwa se n'imizi y'ibiti, bakabikusanyiriza hamwe bakabivangavanga, maze bikavamo umuti uvura indwara zigakira.

Ibyatsi cyangwa se ibimera byifashishwa mu buvuzi gakondo, bikaba bizwi ku izina ry'amapera. Ni ibimera bivura inkorora ndetse bikaba bishobora no kwifashishwa mu bundi buvuzi.

Umuti uri mu icupa. Iryo cupa ni umweru, handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu bwerurutse. Munsi hashushanyijeho igikakarubamba. Munsi y'igikakarubamba hari ijambo ryanditse mu ibara ry'umutuku n'irindi ryandikishijwe ibara ry'umweru ariko ryanditse mu ibara ry'ubururu.

Ubuvuzi gakondo bukunze kwifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo abaganga ba gakondo bakore imiti, gusa rimwe na rimwe bagira ibintu bimeze nk'iby'abapfumu, nk'inkono, utwungo, inzabya, ibicuma, n'ubuzu bwashaje.

Ikarito nziza cyane ifite n'amacupa ari iruhande rwayo iburyo n'ibumoso, ubona ko ifungiyemo imiti ya gakondo, iyo miti yifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye.

Icupa ryiza cyane ririmo umuti wa gakondo, uwo muti ukaba ukozwe mu mbuto, izo mbuto na zo zikaba zirambitse iruhande rw'iryo cupa byose bikaba biteretse ku isahane imwe y'umweru, akaba ari imiti ya gakondo yatunganyijwe.

Ibimera bigiye bitandukanye cyane cyane igikakarubamba birifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, gusa hari n'ibindi bintu byifashishwa bitari ibimera, nk'ubuki buturuka ku nzuki cyangwa se bukorwa n'inzuki.

Ikimera cyiza cyane ubona ko kiri ahantu mu ivaze ndetse hari n'ibindi byinshi cyane biri mu bintu bimeze nk'indobo ari byo twita nyine amavaze, mu by'ukuri ibi bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi butagombera ubuhanga buhanitse kuko umuntu wese ashobora kwikorera umuti mu buryo bumworoheye, gusa byaterwa n'indwara agiye kwivura. Urugero niba agiye kwivura nk'inkorora.

Igikakarubamba kizwiho gutanga ubuvuzi bugiye butandukanye, aho kivura indwara zo ku huru, izo mu nda ndetse ni ikimera rwose cyifitemo ubushobozi bwo kuba cyavura n'igifu kigakira burundu.

Abaganga ba gakondo ni abahanga, kuko baratangaje cyane. Ushobora kubona igiti nk'umusave ukagifata nk'igisanzwe, ariko umuganga wa gakondo we arakirereba akabona ko ashobora kugifata agafata amababi yacyo akayavanga n'ibindi bimera bigiye bitandukanye bikabyara umuti wa gakondo wifashishwa.

Urusobe rw'ibintu bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo. Harimo ibiti byumye, imbuto ziva ku bimera bitandukanye, amababi yumishijwe, imizi y'ibiti, ndetse n'utundi tuntu utamenya, tuzwi n'abaganga bakora ubuvuzi bwa gakondo.

Igikarito gitambitse gishushanyijeho akantu kameze nk'agasafuriya, karimo ibintu by'umuhondo bimeze nk'ibiseye, ndetse imbere y'aho hakaba hari akandi kantu gatambitse, kifashishwa mu kubika ibinini, bigaragaza ko iryo karito ririmo ibinini bituruka kuri gakondo.

Amakarito agera muri atatu, n'indi imwe iri guhingutsa umutwe, ubona ko yose yanditseho amagambo amwe, ayo magambo ari mu ibara ry'Icyongereza ariko yanditse ahantu ku ikarito hasa umweru. Arimo imiti ya gakondo.

Amacupa atandukanye akaba ari amacupa arimo imiti ya gakondo, ayo macupa yose ari mu mabara atandukanye, umweru ndetse n'umuhondo ndetse buri cupa ryose ririho igipapuro cyometseho kigaragaza ubwoko bw'umuti uri muri ryo.

Ikimera ubona ko kirandaranda hasi. Wagira ngo ni uruyuzi cyangwa se igihaza. Gifite amabara y'iroza ku ndabo zikiriho. Gifite n'amababi ameze nk'amashu.

Ikarito ishushanyijeho ibimera bisa, ikaba ari ikarito ifite ibara ry'umweru, yandikishijeho amagambo y'icyatsi ariko munsi hari andi magambo yanditseho atagaragara ari mu ibara ry'umukara, ku ruhande gato ku ikarito hari akabara k'umuhondo kanditsemo amagambo y'Icyongereza.

Icupa ririmo imiti ya gakondo. Ni icupa ryiza cyane ripfundikijwe umupfundikizo w'umweru ndetse ubona ko rishushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara asobanura ubwoko bw'umuti urimo.

Icupa rinini, ubona ko ari icupa ry'icyuma, rikaba ryanditseho amagambo y'Icyongereza, agaragaza ko umuti wa gakondo urimo, ukomoka ku buki, kuko hashushanyijeho uruyuki.

Amacupa abiri asa manini y'umuhondo, ubona ko aforomye kimwe, apfundikijwe umupfundikizo ufite ibara ry'ikivuzo, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hashushanyijeho agasimba kari kuguruka, inyuma yayo hari igikarito gishushanyijeho umuntu.

Imbuto nyinshi zigiye zitandukanye ziraribwa kuko zifasha umubiri w'umuntu ndetse zigafasha n'ubwonko gutekereza neza, twavuga nk'amapapayi aho habaho amapapayi ya kigabo n'amapapayi ya kigore, gusa yose araryoha muzayarye.

Bari kutwereka amafoto y'ibimera ndetse hakaba ariho n'ibiganza bifashe buri kimera, hari ikiganza gifashe ikimera gitoshye gifite n'amababi, hari ikindi gifashe indabo cyangwa se ibyerezwa by'ikimera. Hari n'ikimera gikuze kiri aho, hari n'akadobo karambitsemo imbuto.

Akavido k'umweru karimo imiti ya gakondo itunganywa n'ikigo cyitwa Forever, kikaba ari ikigo kizwi hano mu Rwanda, kizwiho gukora imiti ya gakondo ikomoka ku bimera bigiye bitandukanye.

Isekuru ikaba ari isekuru y'umukara, ifite agahini bisa ndetse ikaba irunzeho iruhande rwayo ibimera byinshi cyane, ubona ko ari ibimera bitoshye ndetse bifite n'uturabo, bigiye kwifashishwa mu gukora umuti wa gakondo.

Igikakarubamba ni ikimera cyiza cyane gikunze kuboneka hirya no hino mu Rwanda, ku buryo usanga rimwe na rimwe abantu benshi bakizi, niyo mpamvu nacyo cyifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye.

Amajerekani abiri y'umuhondo, yose ashushanyijeho igikakarubamba, icyo kikaba ari ikimera cyiza cyane, cyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo igiye itandukanye.

Abantu babiri umwe n'umugore cyangwa se ni uw'igitsina gore akaba yambaye agatambaro mu mutwe yambaye n'umupira w'umweru ufite ingofero, undi mugabo nawe yambaye umupira w'umutuku ndetse ari munsi y'igiti icyo giti cyikaba gifite amashami araramba hejuru bisa nk'aho baje gusoroma umuti wa gakondo.

Ikibabi kiza kirambitseho ibinini, ibyo binini biteye mu buryo bumeze nka bimwe twita ramusini, bimwe bivura inkorora, bivura umutwe, bivura umuriro n'ibindi, bigaragaza ko biva muri iki kimera cyangwa se muri icyo kibabi cy'icyo kimera.

Ibimera bigiye bitandukanye, bigira uruhare mu gutanga ubuvuzi gakondo, usanga ari ibintu byiza cyane kuko bifasha abaturage kwirinda indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Hirya no hino mu Rwanda uzahasanga abavuzi ba gakondo, aba bavuzi usanga akenshi nta hantu hihariye bajya gukura imiti yabo, usibye ku bimera biboneka hirya no hino mu mashyamba.

Ibiti bigera muri bitatu bigiye bisumbana, wagira ngo ni ibiti by'imiko cyangwa imizibaziba, urabona ko hejuru handitseho, amagambo agaragaza ko ari ikigo gikora imiti ya gakondo.

Igikakarubamba ni igihingwa cyangwa se ikimera cyiza cyane kuko kivamo imiti ya gakondo igiye itandukanye. Hari ivura uruhu, ivura mu nda, ivura umutwe, yewe kivura byinshi!

Aho burakera, ubuvuzi gakondo buraza gufata indi ntera. Sinababeshya kuko njyewe uko mbibona, abavuzi ba gakondo, barakomeye cyane. Abantu bavura n'amarozi! Bakavura n'indwara zananiranye! Bakavura n'indwara zidakira! Ubwo wabanganya iki?

Ikimera kimera kirandaranda kimeze nk'uruyuzi, gifite amababi ameze nk'ay'amashu, gifite indabo z'iroze ariko kikaba kiri ahantu mu murima, ubona ko ari umurima utarimo ibyatsi, ahubwo wagira ngo harahingiye cyangwa se ni mutabire, kikaba kifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Icupa rinini ripfundikiye neza ry'ikibonigiri ryanditseho ijambo umuravumba. Bigaragaza ko harimo umuti wa gakondo ukozwe mu muravumba.

Amacupa atatu y'umweru yanditseho amagambo ari mu ibara ritukura n'iry'umuhondo, akaba yegeranye n'irindi cupa ry'icyuma wagira ngo ririmo inzoga ariko rikaba ribitswemo umuti wa gakondo watunganyijwe n'abaganga bakora ubwo buvuzi bwa gakondo.

Umuti upfunyitse mu gacupa, agacupa k'ubururu. Ndetse ubururu bwijimye pe. Ubona ko handitseho amagambo y'Icyongereza. Ariko ngenekereje kuyasobanura mu Kinyarwanda, aravuga ngo :"gabanya uburibwe". Ubwo ni mavuta agabanya uburibwe, wasanga ari pomade.

Icupa rinini ubona ko riri mu rugero ryanditseho foreva rikaba ririmo imiti ya gakondo, iyo miti ikaba itunganywa ndetse igacuruzwa n'icyo kigo cyanditseho.

Ikimera kiri mu ntabire ubona ko kitaweho, ndetse kikaba ari umuravumba, uyu muravumba ni umuti ukomeye cyane wa gakondo kuko uvura indwara zitandukanye.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bukunze kwifashishwa mu buryo bw'ubujiji, nyamara bukoreshejwe neza bushobora kuvura indwara zigakira, nk'ubu ngubu uyu mubyeyi ari gusoroma imiti, ntazi uko bayikoresha, agiye kugenda apfe kuvangavanga, wabona anapfuye.

Igikakarubamba ni ikimera kizwiho gutanga imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, twavugamo iz'uruhu, izo mu nda ndetse n'izindi nyinshi cyane.

Ikimera cyiza cyane, gifite amababi atoshye ndetse manini, ubona ko kiri ahantu heza, kimeze nkaho kiri ku mugezi, ubona ko cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amacupa abiri y'umweru n'irindi risa nk'iriri hejuru ry'umuhondo rishushanyijeho igikakarubamba. Byose bikaba biri ahantu ku kameza k'umuhondo, gusa ni imiti ya gakondo yatunganyijwe ikaba ibitswemo.

Ushobora kurya imbuto zitandukanye nk'indimu ndetse ukarya imboga, ibyo byose bikaba byagufasha kwivura uburwayi bugiye butandukanye. Gusa hari ibindi bimera bidufasha mu buvuzi bwa gakondo birimo nk'umucyacyayi, umucaca n'ibindi.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bukorwa n'abaganga bafite ubuhanga buhanitse kuko bajya gushaka ibyatsi mu bihuru bakabivangavanga bakamenya indwara byavura, gusa hatangiye kuboneka umushinga wo gufata ibyo bimera bigahingwa.

Igikakarubamba ni ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, zirimo izo ku ruhu, izo mu nda n'izindi zigiye zitandukanye. Gusa kikaba cyifashishwa cyane cyane n'abavuzi ba gakondo.

Amacupa abiri y'ibyuma arimo umuti wa gakondo, uwo umuti ukaba utunganyijwe waravuye ku buki n'ibindi bintu, hari n'ibikakarubamba bishushanyije ku yandi macupa ari ku ruhande rw'iburyo.

Icupa rinini rirerire ryanditseho amavuta y'uruhu, hasi hakaba hari irindi cupa rigufi risa nka ryo, hasi hakaba hari ibintu bisatuye bibiri, wagira ngo ni ibyifashishwa gukora umuti wa gakondo uri muri ayo macupa abiri.

Urubuto rw'avoka ni zimwe mu mbuto zidakunze kuboneka ku buryo bworoshye by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, kuko usanga nta biti by'avoka biba muri uyu mujyi, niyo mpamvu kugira ngo ubibone ugenda ukajya mu ntara.

Akavido ubona ko kariho inyuguti eshatu n'umubare kabiri ndetse n'inyuguti ya X, bigaragara ko ari imiti ya gakondo iri muri ako kavido.

Umuti uri mu icupa niyo icupa yanditseho inyuguti ya ka hashushanyijeho n'akana kari mu mabara y'umuhondo. Iryo cupa ryo ni umweru ripfundikijwe n'umupfundikizo w'umweru ripfunyitsemo umuti wa gakondo.

Ifoto iriho ibintu bigera muri bitandatu, hari bibiri biteganye bimeze nk'indobo n'akandi kantu kameze nk'agacupa, hagakurikiraho andi macupa abiri, iry'icyuma n'irya purasitike, hagakurikiraho igikarito n'akandi gacupa k'icyuma gapfundikishije umufuniko w'umukara.

Imiti gakondo ni imiti igoye kuyibona ndetse kuyitunganya biravuna, niyo mpamvu dukwiye kubaha abaganga bakoresha iyi miti cyangwa se bayicuruza.

Amacupa aterekanze ubona ko arimo imiti ikomoka ku bimera ndetse akaba ari amacupa magufi n'amaremare, afite imipfundikizo y'umuhondo, iy'umukara, iy'umutuku ubona ko ari byiza cyane kuba iyi miti ibitswe neza.

Amacupa abiri y'umuhondo, yanditseho amagambo, ayo magambo yanditse mu ibara ry'umukara, ndetse hakaba hari ibintu bibiri bisatuye, bimeze nk'imisate ya avoka. Gusa ntabwo ari avoka ni urundi rubuto, tutazi.

Igiti giteye ahantu, ubona ko ari cyo kirekire, ni ahantu ku gasozi, hari ibyatsi byumye, ubona ko bidatoshye hari n'ibindi biti bigufiya gusa byenda kumera nk'icyo kirekire.

Ibibabi bya avoka, biri kugaragazaho n'utuntu tw'uduteja twa avoka turi gutunguka. Bigaragaza ko bari kutwereka ko voka na yo igira uruhare mu buvuzi bugiye butandukanye, kuko ifite

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bwiza cyane bugezweho n'ubwo budakunze kuvugwaho rumwe kuko bamwe bavuga ko abavuzi ba gakondo ari abapfumu cyangwa abarozi, nyamara ntago ari ko bimeze, kuko bavura indwara zitandukanye kandi zigakira.

Urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye, biboneka hirya no hino, mu mashyamba, mu bihuru, mu mibande ndetse no ku nkengero z'imigezi. Ni ibimera byifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo.

Avoka isatuye ikaba iri kugaragaza urubuto mo imbere hirya hakaba hari igikakarubamba ndetse hakaba hari isabune ishushanyije, bigaragaza ko iyo sabune yakozwe muri ibyo bimera bibiri, avoka n'igikakarubamba.

Ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, ni ibimera ahanini usanga biboneka mu buryo bugoye kuko umuntu ajya kubikura mu bihuru, mu mashyamba ya kimeza cyangwa muri parike.

Ni byiza cyane ndetse ni iby'agaciro. Gukoresha imiti ya gakondo. Kuko imiti ya gakondo ishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye cyangwa se ikagabanya ubukana bwazo. Twavuga nk'imivuduko y'amaraso ndetse na za diyabete. N'izindi ndwara zitandura.

Ni byiza cyane ko twita ku mubiri wacu, mu rwego rwo kwita ku mubiri wacu tugomba no gukoresha imiti ya gakondo igiye itandukanye, aho dushobora gukoresha amavuta ava mu gikakarubamba yakozwe mu buryo gakondo arinda indwara zitandukanye z'uruhu.

Ibimera byinshi cyane bishobora kwifashishwa hakorwa ubuvuzi gakondo cyangwa imiti gakondo, gusa kimwe mu byatsi abanyarwanda bo mu cyaro bazi cyane kitwa bambuba, ni icyatsi gikunze kuboneka ahantu mu tubuye, ariko kikaba kizwiho kuvura inkorora, isereri n'ibindi.

Akenshi buriya tunywa ibinini dukuye kwa muganga, tukumva ko ari ubuvuzi bwiza cyane dukorewe, ndetse tukirengagiza ko n'abavuzi ba gakondo bakora ibinini bakoresheje ibimera bitandukanye.

Umusambi cyangwa se umuce ukaba uriho ibintu biteretseho birimo amasahani, udukono, isekuru ndetse ibyo byose mvuze bikaba birimo imiti ya gakondo igiye itandukanye iri gutunganywa n'umuganga gakondo.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bukwiye guhagurukirwa, bukitabwaho, bugahabwa umwanya ndetse Leta nayo igashyiramo akaboko kayo, igashoramwo amafaranga; kuko buravura kandi buvura indwara zitandukanye, igitangaje ni uko buvura na zimwe mu zananiye abaganga basanzwe.

Abantu benshi ntago bakunze kwizera ubuvuzi gakondo, nyamara ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bwizewe bukwiye kwitabwaho bukagirirwa icyizere, kuko abavuzi ba gakondo bavura indwara nyinshi zikomeye zirimo n'iz'amarozi.

Ibimera bigiye bitandukanye biboneka hirya no hino, usanga byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bisoromwa bigatunganywa. Uburyo bitunganywamo barabifata, bakabisekura, bakabyanika, bikumishwa, hanyuma bikifashishwa muri ubwo buvuzi.

Umuce cyangwa se umusambi uteretsweho amabasi arimo ibintu bigiye bitandukanye by'imiti ya gakondo ikiri gutegurwa, hari n'imiti irambitseho ku ruhande. Harimo ibyatsi byumye, amafu, imizi y'ibiti n'ibindi bintu bimeze nk'indabo zumye.

Amacupa menshi cyane aterekanze ahantu hejuru hameze nko ku meza cyangwa se akabari muri etajeri, amwe ateretse hejuru andi ateretse hasi, ayo hejuru n'ibyuma, ayo hasi ni palasitike yose abitswemo imiti ya gakondo.

Icupa ryiza cyane rishushanyijeho igikaruba hakaba handitseho n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ayo magambo aragaragaza imiti irimo aho ndetse n'aho yakomotse ndetse n'uburyo ikoze n'ikigo gitanga iyo miti cyangwa se gicuruza iyo miti.